Kwa muganga hari abantu benshi bambaye imipira itukura, uw'ubururu, udupfukamunwa, ingofero, hari umwana wicaye ufashwe na nyina, umwana bari guha ikinini, bari kugira ngo bamuvure kubera ko arwaye..

Umugore w'umuzungu wambaye umupira w'umweru, umupira uciye amaboko, umupira udafite ikora, wambaye isaha mu kaboko k'iburyo, wambaye igikomo ku kaboko k'ibumoso, ufite mikoro, mikoro y'umukara, ufite n'imisatsi, inyuma ye hari icyapa cya UNICEF.

Abana bane basutamye bambaye imipira y'umuhondo bogoshe bafite imisatsi mikeya Imbere yabo hari umubyeyi wambaye ingofero wambaye n'ijiri n'agapira k'umweru ariko kubahereza ibyo kurya kugirango baticwa n'inzara.

Abagore babiri ari kumwe n'abana batatu umugore umwe afite indoborimo injerekani n'umwana bamufasheho undimu umugore ariko agira umwana amwica aje mu ibase amushyize amazi mu mutwe, undi mwana ariko umugezi ateze ikivomesho umugezi nawe uri hejuru ntabwo uri gusohora amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi biganjemo abana batoya n'abagabo n'umusaza bafite mikoro, indangururamajwi bambaye ingofero n'ipantaro yacaanyaguritse hari icyapa cyanditseho ebola umugore bunamye hasi utize igitambaro cy'umweru wambaye n'umupira w'umukara bose bari kumushungera bamureba.

Abana batatu bari hamwe inyuma yabo hari undi utagaragara neza wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara, abo bana batatu bisize isabune ku ntoki, imbere yabo hari imigezi itatu iri kuzana amazi gahoro gahoro biteguye gukaraba bose bari guseka buzuye akanyamuneza ku maso.

Abana kambaye imipira y'ubururu hose isa, umwe yambaye igikomo cy'umukara, ku kaboko bose bari mu kigero kimwe imipira yanditseho, Unicef mu nyuguti zifite ibara ry'umweru.

Ku mugezi hari amajerekani menshi n'abantu batatu, umukecuru ukenyeye igitambaro uteze n'igitambaro gitukura mu mutwe ukenyeye n'igitenge n'undi mubyeyi uri kuvoma, andi majerekani ateretse ku ruhande n'undi mwana uhagaze inyuma ye ari kumwitegereza.

Abantu batandukanye bahagaze hamwe mu nyubako, harimo abasore n'abakobwa n'abagore n'abagabo, bambaye imyambaro ifite amabara agiye atandukanye, harimo abambaye inkweto zifunze, abandi bambaye izifunguye kandi bose bajya kureshya.

Ku mugezi amajerekani atatu, ijerekani imwe iri mu mugezi, iri kujyamo amazi, umwana ayifasheho, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro, afashe no ku mugezi, ari kureba ahandi hantu, afite agasatsi gakeya.

Umuntu wicaye ku ntebe imbere ye ahagaze abandi benshi m'uburyo bw'uruziga rudafunze, bambaye imipira y'umweru undi ufite ijire ya kuruwaruje kandi bamwe bakaba bafite amakayi mu ntoki.

Ku mugezi aho bavomera amazi hari indobo eshatu z'umuhondo nk'akavido k'amacupa atanu abana b'abanyeshuri bambaye iniforume bamwe barimo bakaraba intoki mu mazi ari guturuka mu itiyo bose bahagaze harimo n'abunamye.

Mu nama irimo abantu benshi batandukanye abagore n'abagabo, umugabo ari gutanga ikiganiro yambaye ikote ry'ubururu yicaye ku ntebe abandi bose bamuteze amatwi kandi bamukurikiye.

Abantu bicaye iburyo bw'ikiziga nk'abari mu nama y'amakayi icupa ry'amazi bose barebana nyuma y'imyambaro ifite amabara atandukanye harimo uwambaye ingofero harimo n'abagore bafite amaherena ku matwi.

Umwana uhagaze ufashe ibirikira mu ntoki ufatishije akaboko k'iburyo wambaye kamambiri wogoshe, undi wunamye wambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umuhondo, utambaye inkweto, afite isabune mu ntoki n'indobo ari gukaraba.

Urujya n'uruza rw'abantu abenshi bahagaze abandi bari kurebana hamwe bahetse abana kandi bari kuvugira kuri telefone bari ahantu hamwe imbere yabo hari itente imbere yabo hari icyapa cyanditseho kwita ku buzima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite iherena ku gutwi, inyuma ye hari agapuberi k'imyanda ari gukingira umwana mutoya ufite imisatsi mikeya wambaye agasengengeri k'umweru uteruwe na nyina, nyina uteze igitambaro gikoze mu gitenge.

Umugore wicaye ari kumwe n'abandi bicaye iruhande rwe bambaye agapfukamuwa k'umukara imipira itandukanye imwe y'umweru abandi y'icyatsi kibisi bose bari kureba imbere yabo, hari n'ameza ariho amazi ari mumacupa.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboye n'agapira n'agapfukamunwa k'umweru n'ingofero, arimo akorera umwana uhagaze ijerekani ipfundikije umwana yikoreje n'ingata, imbere ye hari undi uri kumufotora, hirya yabo hari abandi bantu batatu bahagaze bari kumwitegereza.

Umugabo uri ku ivomero, wambaye ipantaro y'umukara afite n'ishati y'umweru, idafite amaboko maremare, ahagaze ku ijerekani na yo iteretse itari kujyamo amazi arimo amwenyura.

Abagore batatu bari ku mugezi, babiri bari kuvoma amazi bakoresheje gupompa bakenye ibitenge, umwe yambaye isengeri y'umweru, undi arunamye ari gufura ari gufurira mu ndobo.

Abantu bicaye hamwe ari benshi bakurikiye ikiganiro bambaye imipira y'umweru bamwe bafite umusatsi abandi bafite uruhara, harimo uwambaye ingofero y'umweru ufite amataratara ufite n'igikapu na we ari mu bandi hagati.

Umwana w'umukobwa usutamye arimo aseka amenyo yose y'imbere arimo agaragara, ari gukaraba ku mugezi, amazi ari ku kiganza, itiyo riri kuzana amazi makeya kandi hirya ye hari amajerekani atatu.

Abantu batandukanye bari ahantu hamwe harimo abagore babiri, harimo n'abagabo benshi batandukanye. Umwe arahagaze afite ikintu mu ntoki, abandi baricaye, hari amazi ari mu macupa, bose bafite intego imwe yo guha abana ibyiringiro.

K'umugezi aho bavomera amazi n'abana benshi batandukanye barimo UW'umukobwa abandi ari abahungu umwe afashe ku itiyo, injerekani iri mu mugezi ifite ibara ry'umuhondo amazi ari kujyamo.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru n'ikarita y'akazi mu ijosi ga z'umweru imbere ye hari ameza ariho urupapuro n'ikaramu y'ubururu ari kuvura umwana uhagaze ufashwe na nyina kandi arimo areba ku murwayi.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abagabo n'abagore bambaye amashati y'umweru, bamwe mu bagabo baricaye abandi barahagaze, bafite amakarita y'akazi mu ijosi.

Itsinda ry'abantutu bahagaze, bambaye imyenda yiganjemo iy'ubururu, ririmo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto n'ikote n'agapira k'umweru, bose bafite amaterefone mu ntoki.

Abana benshi batandukanye bambaye imipira isa bari kumwe n'inzego z'umutekano polisi, bari kubaha amazi nk'ibikoma kandi harimo n'ababyeyi bari kubafasha kubitaho.

Ku ivomero hari abantu benshi, barimo bavoma, bari mu mirimo itandukanye, bafite n'ibivomesho bitandukanye, bamwe bafite amajerekani, abandi amadobo, higanjemwo abana n'abagore, umugabo wambaye ingofero y'ubwirinzi mu mutwe, n'ikabutura y'umweru.

Abana bane bari mu kigero kimwe bagiye ku ivomero, bafite ibivomesho bine, umwe asa nuwunamyeundi arunamye undi arahagaze yambaye bote, n'umupira utukura afite n'inkoni undi yambaye ishati y'ubururu, yambaye agapira kajya kuba umweru undi yambaye agasengeri k'uturongo mu mbavu.

Kwa muganga mu cyumba hari intebe zitandukanye zijya kuba umukara, televiziyo, amakaro mu cyumba, itara hejuru ku iparafu, irangi ry'umweru n'utundi turongo duciyemo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi barimo ababyeyi bafite abana, barimo abagabo, barimo abambaye imipira y'imyeru abandi bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo, ufite umwana mutoya mu ntoki ari kumuha igikoma, abandi bicaye hirya bari konsa.

Abantu batandukanye bahagaze hamwe bafatanye ku rutugu bamwe bafashe amaterefone mu ntoki abandi ibikapu, bamwe bambaye imyeru, abandi imikara, bari imbere handitse ngo sale de confrence.

Ameza ateretseho amacupa y'umweru arimo amazi apfundikiye azengurutswe n'abantu batanu umwe yifashe kukananwa undi wambaye ikote bafite n'amakayi n'amakaramu amatelefoni arambitse.

Umwana w'umunyeshuri wambaye iniforume mugufiya uri kumwe na nyina yambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa afite n'umusatsi ukenyeye n'igitenge, afite urufuro mu ntoki rwo gukarabya umwana kugira ngo abone uko ajya kwiga.

Umugore wambaye ingofero uri guseka ibiganza byombi kwikandagira ukarabe ukaraba intoki n'amazi meza afite n'isabune inyuma ye hari inzu ikinguye ifite urugi rukoze mu biti.

Idomoro y'ubururu ifite umufuniko w'umweru, hamwe n'umugezi ufite irangi ry'ubururu; hari umwana wambaye ishati n'ikabutura wunamye, ari gukaraba intoki. Inyuma ye hari indi domoro y'ubururu.

Mu bitaro kwa muganga, mu cyumba cy'ababyeyi, hari ababyeyi batatu bose bambaye agapfukamunwa, umwe yateza ugutwi ku nda y'umubyeyi, undi amufashe mu ntoki, umubyeyi utwite aryamye ku buriri agaramye abandi bari kumusuzuma.

Kwa muganga mu cyumba bakiriramwo abarwayi, hari umukobwa wicaye urimwo apimwa, umuvuduko na muganga wambaye agapfukamuwa k'umweru, imbere yabo hari mudasobwa inyuma yabo, hari intebe hari n'undi uhagaze.

Isabune, ibiganza by'umuntu utagaragara ,umugezi uri kuzana amazi make make .Umugezi w'ubururu n'ibiganza biri gukaraba kugira ngo hirindwe umwanda hubahirizwa kugira isuku.

Kwa muganga ku kigo cy'ubuzima hari umugore uhagaze wambaye agapfukamunwa, wambaye agakote k'umukara wambaye n'ikanzu idoze mu gitenge mbere hari umwana n'ameza musumba. Kuri ayo meza imbere yayo hicaye abaganga babiri bambaye udupfukamunwa bafite mudasobwa bari kwandikira abangabo.

Amajerekani atatu ahagaze hamwe ari kumurongo imwe iri kujyamo amazi aturutse mu itiyo aho bavomera izengurutswe n'abantu benshi biganjemo abagore n'abana umuma umwe ufashe aho bapompera ngo amazi azamuke, umwana umwe afashe ikivomesho kikujyamo amazi.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba, hari abarwayi hari n'abaganga, umuganga uri kuvura umwana uryamye ku gitanda, abaganga bose bambaye udupfukamunwa bambaye n' imyenda y'akazi, bose barahagaze bari kwitegereza umurwayi hari n'imashini zongerera umurwayi umwuka.

Abagore bane bahagaze, umwe afashe ikivomesho mu ntoki, undi mukobwa wambaye umupira w'umukara yegamiye umugezi, amajerekani ateretse hasi menshi atonze ku murongo, abiri ari ku matiyo ari kujyamo amazi.

Abana batatu bari hamwe bari mu kigero kimwe basa nkabishimye bari kureba hamwe ku ruhande rw'ibumoso umwe wambaye agapira k'umweruru, undi wambaye igashati k'ubururu undi yambaye agapira kajya kuba umweru ariko atari umweru bose bameze nkabari gukaraba.

Umugabo wambaye amataratara ishati y'umweru wambaye nijire yanditseho ngo worodi hirifi origanizashoni ari kumwe numugore wambaye isaha ku kaboko ufite n'misatsi ufite nihera kugutwi batwaye imiti.

Umugore uteruye mwana ari ku ivomero, yambaye agapira, ukenyeye igitenge, ufite umusatsi mukeya, umwana we wambaye ingofero y'umweru, ari kuvomesha indobo iteretse mu mugezi.

Kwa muganga mu cymba aho bafashiriza abarwayi ari umusaza wicaye wambaye ikote ry'agapira k'umweru n'ingofero ufite nimbi numuganga wambayetabu yubururu wunamye ariko kumupima umuvuduko.

Ku kumugezi aho avomera itiyo iri kuzana amazi ari kujya mu ikidomoro gifashwe n'umukobwa wunamye ho gakeya wambaye ijipo n'agapira imbere ye hari umwana mutoya.

Inyubako yubatse neza ku buryo buzengurutse, inyuma yaho hari umujyi yifiteho ikibuga nk'ama esikariye bazamukiraho bayigiyeho, inyuma yaho hari indi nzu yubatse neza, isakaje amabati.

Abayobozi bicaye mu ntebe bari mu nama. Imodoka iparitse iruhande rwabo batari benshi. Inzu ifite irange ry'ubururu, ifite pano hejuru kandi imbere yayo hari puberi bashyiramo imyanda.

Ku ivomero, ku mugezi, umwana usutamye, uteze amazi ari kugwa ku biganza bye, ari guseka, afite umusatsi mukeya, hari amajerekani atatu, abiri ni umuhondo, ariho umubirikira w'umweru, indi ni iy'ubururu, iri mu mugezi, irimo kujyamo amazi.

Umugore, uri kugenda, afashe, indobo y'umuhondo, mu ntoki, mu kaboko k'iburyo, ukenyeye igitenge, wikoreye, indobo, itukura, ayifatishijeho, akaboko, k'ibumoso.

Ku kiyaga hari umugore uri kuvoma injerekani y'umuhondo, umugore wunamye, yambaye agapira k'umuhondo ukenyeye igitenge, ari kureba imbere ye, umugabo uri koza igare, wambaye inkweto za bodaboda, umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, uri ku nkombe y'ikiyaga.

Umwana mutoya, ufite umusatsi mukeya, uri ku kumugezi, ufite n'isabune mu ntoki, umugezi uri kuzana amazi, arimo gukaraba, anaseka, akanurishije ijisho rimwe, umugezi uri hejuru cyane.

Umugabo wambaye umupira utukura ari kumwe n'umwana ufashe mu kiganza, umwana mutoya inyuma yabo hari abandi bantu bicaye benshi bambaye imyenda itandukanye biganjemo abagore bambaye imyenda y'ubururu n'abana batoya.

Ababyeyi benshi batandukanye bari hamwe bateruye abana bicaye mu ntebe inyinshi za parasitike, bari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umwana umwe, inyuma ye hari akabogisi atwaramo imiti.

Umwana wambaye umupira utukura, uri ku ivomero, ufashe itasi mu ntoki, kwishyira akaboko k'iburyo, ufite umusatsi mukeya, uri guseka, ateze itasi ku ivomero ngo amazi ajyemo, irindi vomero riri hirya ye, riri kuzana amazi, ari kumeneka hasi.

Abagore bahagaze batezeho amaboko nk'abari kubyina bambaye imyambaro itandukanye nyuma yabo hari intebe za pulasitike hari ameza n'ibishushanyo ku bikuta by'inzuzu, inzu nini niyo barimo.

ababyeyi, abapapa n'abamama, bahagaze kuri tapi y'icyatsi kibisi, imbere yabo hari indangururamajwi, hari n'abana batoya bambaye imyenda isa, inyuma yabo hari umugore w'umwarimu ubigisha, hirya yabo hari umugabo wambaye itaburiya na we w'umwarimu wo kwigisha aba bana.

Ijage ifashwe n'ukuboko k'umuntu utagaragara, irimo isukishwa amazi umwana urimo gukaraba intoki akoresheje isabune wambaye umupira w'ubururu urimo imirongo y'umukara kandi akaba ahagaze.

Imbangukiragutabara iri ahantu habereye ibirori hari n'ibendera ry'igihugu hari n'inzu ifite Canal hirya yaba hari n'indi modoka hari abaturage benshi hari n'umwana mutoya wambaye ishaketi y'umukara n'abandi baturage barimo bagendagenda mu byerekezo bitandukanye.

Umwana muto uboshye imisatsi wambaye imyenda idoze mu bitenge ifite ibara ritukura uri ku mugezi ufite n'ibase arimo akaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde umwanda.

Ku mugezi umukobwa uhari kuvoma nyuma ye haramabase n,ama kivete, amajerekani menshi afite amabara atandukanye yiganjemo ay'umuhondo umugabo wambaye umupira utukura n'agapfukamunwa abandi bagore n'abana bicaye imbere yabo.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wambaye umupira w'ishuri n'iniforume, afite umusatsi mukeya ari ku mugezi ari gukaraba intoki n'amazi meza akoresheje n'isabune.

Ku mugezi hari amatiyo abiri, imwe riri kuzana amazi, umwana wunamye, kunywesha amazi ibiganza,, wambaye ikabutura, wambaye bodaboda z'ubururu, wambaye ni'shati irimo amabara hasi ye hari indobo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ufashe injerekani n'amaboko abiri, wambaye ishati y'umweru uri guseka ku ivomero, ariko amatiyo nt'amazi ari kuza.

Abana bari hamwe, bambaye imipira bose isa kandi hari abagabo n'abagore bakuru bari kubaha amata kandi bose barimo baseka.

Abantu bitabiriye inama mpuzamahanga yo kwita ku buzima, bicaye, bamwe bafite imvi, abandi badakuze cyane, imbere yabo hari abantu batandatu bicaye mu ntebe cyangwa se kuri pano y'ibiganiro, barimo baganira ku bijyanye n'ubuzima.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ufite iherena ku gutwi, ufite ibisuko wambaye impeta n'isaha, ateruye umwana wambaye umupira w'umweru ari kumusoma, inyuma ye hari umwana uteruye undi ari kumureba mu maso.

Umugezi uriho umwana w'umuhungu wambaye umupira w'umweru, wambaye n'ipantaro izinze, afite amajerekani atatu, injerekani imwe iri mu mugezi, izindi ebyiri ziteretse hasi, amazi ari kujya mu njerekani.

Abana b'abakobwa babiri umwe bambaye umupira w'ubururu n'ijipo undi ukenyeye igitambaro bafite indobo mu ntoki y'umuhondo iriho ibishushanyo by'umweru bavuye kumugezi bari kuyikorerana.

Ku bitaro kwa muganga aho abarwayi bategerereza bicaye ku ntebe, harimo abamama, harimo n'abafite abana bafite ibipande mu ntoki bategereje kwinjira, abandi bahagaze ku muryango.

Abagore babiri bicaye bafashe kumeza umwe yambaye impeta undi yambaye isaha yambaye n'ikote, yambaye n'agapira k'umukara gafite ijosi, undi ateze igitambaro undi nta gitambaro ateze.

Imyenda yanitse ku mugozi, umukobwa usutamye, wambaye ijipo y'umukara, umupira ujya gutukura, n'amabase abiri agerekanyije, ateretsemo ikidomoro cy'umuhondo.

Umwana mutoya uri guhabwa umuti wambaye umupira w'umweru, uteruwe na nyina, nyina ufite umusatsi wambaye iribaya uri kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite iiherena ku gutwi afite n'ibisuko.

Ikirango cyanditseho ngo sitopu de mabage vayirasi Kigali, ku wa makumyabiri z'ukwacumi, makumyabiri, makumyabiri na kane, imbere yaho hari abagabo babiri, imbere yabo hari mudasobwa na mikoro, hicaye n'abandi baturage bari kumva ikiganiro.

Mu nama y'abayobozi munsi y'itente abantu benshi batandukanye polisi n'abandi bayobozi batandukanye, abafite imitaka abambaye amakote imbere yabo hari umuyobozi ufashe mikoro wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ari kubaha ikiganiro.

Umwana mutoya wambaye ingofero y'ubururu, wambaye umupira urimo uturongo dutambitse, uri gufatwa ibizamini n'umuinyabuzima, umunyabuzima ufite ikayi, afite n'ikaramu mu ntoki, n'umukecuru wambaye ishapure, wambaye n'agasengeri, ukenyeye n'ibitenge n'abandi bakecuru bicaye inyuma yabo, bari kwitegereza ibiri kuba.

Abagore benshi bahagaze imbere y'inyubako, bahagaze ku murongo kandi bamwe bambaye amajaketi abandi bafite udukapu mu ntoki, bose bambaye inkweto zifunguye benda kureshya.

Kwa muganga ku ivuriro hari abantu bane batatu bicaye ari abarwayi, undi ari umuganga wambaye ekuteri ariko gupima umurwayi umuvuduko, yamuhambiriyeho igipimisho ku kaboko k'ibumoso. Umurwayi uteze igitambaro, ukenyeye n'igitenge.

Kwa muganga mu cyumba aho bavura abarwayi, umugore wicaye wambaye iribaya uteru uyu mwana, umwana wambaye agapira k'umweru n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru ari kwita ku mwana ku kibazo afite ku mutwe.

Itsinda ry'abantu benshi batandukanye, ryiganjemo abamama, abagabo ndetse n'abasore n'inkum,i bambaye imyenda ifite amabaragi atandukanye, yiganjemo ay'ubururu ndetse n'ay'umweru, bafite umwana mu ntoki uryamye ku gatanda, umwana mutoya wavutse, uryamishijwe ku gatanda k'abana, ufashwe na nyina ndetse n'abandi babyeyi batandukanye.

Ku kumugezi aho bavomera amazi hari injerekani y' ubururu n'akavido k'amacupa atanu, hari abana bane bahagaze, umwe ufite inkoni wambaye bote wambaye n'agapira gatukura, undi uhagaze wifashe inyuma wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikabutura, undi wambaye ipantaro n'agasengeri, n'undi wambaye ikabutura usa nk'uwunamyemo gakeya.

Abagabo batanu harimo umuzungu nabandi bane b'abirabura bose bambaye amakote, umwe wambaye iry'umukara n'i baji y'akazi uwo muzungu uhagaze undi ariko arikubarebera.

Abasore babiri bari kumwe, umwe yambaye ishati y'umweru afite agakomo mu ntoki, undi yambaye umupira w'ubururu afite ikarita n'igikomo ku kaboko, inyuma yabo hari abandi bantu bari muri gahunda zitandukanye.

Inama y'abantu benshi yitabiriwe n'abasaza, ababyeyi, abagore n'abakecuru, n'abana batoya harimo idarapo, hari itente, imbere y'inyubako iriho kanari. imbere hari n'imodoka ndetse bamwe baricaye abandi barahagaze bagiye bambaye imyambaro itandukanye.

Itiyo y'umugezi iri kuzana amazi menshi, ibiganza bibiri bihuje, byambaye ishati y'ubururu, biri gukaraba, ariko amazi amwe ari kujya ameneka.

Umwana wambaye ikabutura y'umukara uri kuvoma mazi bamwitaye yafatishije ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso gufashe ikidomoro umupira w'umuhondo.

Ku mugezi umwana usutamye wambaye umupira utukura, ari gufatisha amazi ibiganza, n'undi na we bari kumwe ufite umusatsi mukeya, itiyo iri kuzana amazi menshi iyabashyira ku ntoki.

Umusaza ukuze cyane wakutse amenyo yo hasi, akuka n'ayo hejuru, ufite iminkanyari mu maso, ufite umusatsi ushwambaguritse uri guseka, amaso ye yenda kuba asinziriye, wambaye ishati y'ubururu, usa nk'uwihengetse.

Abana benshi, bari hamwe, bababaye, bafite amarira, badasa neza, batakarabye, umwe ari kurira yifashe ku maso, undi ateze ibiganza, undi asaba imbabazi, bari kumwe, bambaye imyenda ishyaguritse, itameshe.

Umwana wambaye ubusa wicaye ahantu asa nkaho hijimye wigunze ari kureba ahandi mu misozi ufite imisatsi mikeya kandi ari wenyine nta wundi muntu barikumwe.

Mu nama abantu bicaye baganjemo abagore n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza ariho icupa ririmo amazi na mudasobwa, umugore ufashe mikoro afatishije akaboko k'iburyo, afite imisatsi mikeya.

Igikorwa rusange cy'umuganda cyahurije abantu hamwe bambaye imipira iriho ibirango by'imiryango bagiye baturukamo, imipira y'ubururu, abandi bambaye imikara, abandi bambaye ingofero. Akaba ari umunsi wari wabahuje wo gutera ibiti ndetse n'imbuto.

Abagabo babiri bahagaze, umwe bambaye neza, wambaye ishati itukura irimo n'amabara y'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi wambaye imyenda yashwanyaguritse, unanutse, ubona ko ashonje afite umusatsi mwinshi w'umukara utogoshe, ari guhana ikiganza n'uwo mugabo umeze neza basuhuzanya.

Umukecuru utambaye hejuru, wambaye shenete mu ijosi, amaherena ku gutwi, uteze igitambaro cy'umweru, uri kureba imbere ye, amenyo ari kugaragara.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho, wambaye ishati, usa nk'uwakomeretse ikirenge, imbere ye hicaye abagore bane bari kumureba, babiri bafite aho kwandika n'amakaramu mu ntoki, abandi ntaho bafite.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho yazinze ipantaro ku maguru, yambaye n'ishati yashyize ibirenge hejuru y'inkweto, imbere ye hicaye abagore bane, umwe afite ikayi n'ikaramu bose bari kumureba mu maso na we yubitse umutwe ari kwireba ku kaguru.

Abagore bicaye hamwe mu ntebe zamwegamirwa, imbere yabo hari umugabo urimo abasobanurira yifashishije ikibaho gitoya, yambaye agapfukamunwa yashyizeho akaboko k'iburyo arimo yandika.

Igikuta cy'amatafari ahiye, umugore uteruye umwana, arimo aseka, wambaye umupira w'umweru, ufite n'imisatsi isokoje, n'umwana wambaye umupira w'umweru, urimo uturongo, umwana utaramera amenyo ufite umusatsi mukeya.

Mu biro bombi bafite amacupa y'amazi umugabo yambaye agapfukamunwa yambaye n'ikote n'umugore ufite mikoro wica ari gutanga ikiganiro, nyuma yaho hari ikirango ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe ubuzima bw'abaturage.

Bicaye hamwe, ahiganjemo abasore n'abagore bambaye imipira isa y'umukara kandi intebe bariho bose zifite ibara rimwe kandi zegamirwa.

Umugabo wicaye witangirariye itama wambaye ishati itukura yambaye n'ingofero, imbere ye hicaye umugore wambaye amarinete yambaye n'ishati y'umukara wambaye n'ipantaro y'umukara, amufashe ku rutugu ari kumuha ubujyanama.

Abana benshi bicaye hamwe bamwe bari guseka umwe ufite utuntu mu mutwe wambaye iforome isa yo mu bwoko bw'imipira y'umuhondo, umwe afite akantu ku kuboko undi afashe kandi mu ntoki mwari guseka cyane abandi basa nkaho batishimye abandi bafite aho bari kureba batandukanye naho undu ari kureba.

Umukecuru ushaje wicaye ahantu mu isoko, wambaye imyenda ishaje, ufite ibintu mu ishashi, imbere ye hari amacupa abiri y'umweru, rimwe rihambiriye ku giti kandi hariho n'ibindi bizingiye mu myenda, inyuma ye hari abantu batandukanye n'undi musore wicaye.

Umugabo w’ urukara, mugufiya, ubabaye ufite amaso atukura, uri kurira, ufite iminkanyari ku munywa no mu maso, uri kurangarira ahantu, wambaye umupira ujya kuba ubururu, ufite namatama abyibye , ufite nagahinda gakabije.

Mu nzira abantu batatu, umugore wambaye udusaro ufashe umwana, n'umugabo ufashe ku mwana, ufite n'inkoni, yambaye ishati y'umukara ifite imifuka mu gatuza, umwana wabo bafashe ku rutugu, urwaye warembye bari kumusindagiza ngo bamugeze kwa muganga.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo uteruye umwana ufite iherena ku gutwi n'igikomo ku kaboko kw'ibumoso agiye kumukingiza umujyanama wubuzima ufite telefone mu ntoki n'igipimo mu ntoki njyanama wambaye umupira w'umweru.

Abana batoya benshi bicaye ari kumwe numukecuru abicaye hagati afashe hasi akoresheye amaboko abiri, bamwe bafite umusatsi kandi badafite umusatsi bamwe bitangiriye itama bose barangaye.

Umugore wicaye utekeye ku mbabura n'isafuriya, uhetse umwana, ufite agapfukamunwa munsi y'umunwa, arimo aseka. Inyuma ye hahagaze umuhungu mutoya wambaye agashati n'agakabutura k'umutuku.

Mu birori byo gutangirwa serivisi zitandukanye, hari ababyeyi n'abagabo ndetse n'abasore, bane bicaye ku ntebe begeranye, undi umwe yicaye abitaruye, bambaye udupfukamunwa, abandi bambaye imyenda isa ukwayo, harimo iyiganjemo iy'umweru ndetse n'iy'umukara.

Umugore wambaye ingofero y'umukara ufite igitambaro mu ntoki agifatishije amaboko yombi agishyize ku maso, ameze nk'uri kurira uhagaze ufite umusatsi mukeya kandi nawe wiraburamo gake.

Kwa muganga batangira ubuvuzi bwo mu mutwe. Umugore wicaye ku ntebe y'ubururu ya palasitike, hari ameza ateretseho icupa ry'amazi, hariho igitambaro cy'umuhondo n'umugabo wicaye wambaye umupira wubururu ari gusuzuma uwo mudamu.

Inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo n'abagore bacuupa y'amazi ku meza, umugore uhagaze gutanga ikiganirokapu biteretse ku meza arinini biticayeho umuntu n'abandi bicaye inyuma ye mu myanya y'icyubahiro bamukurikiye.

Umwana mutoya wicaye mu ntebe wambaye ishati y'umweru, intebe y'umuhondo n'imisatsi i biswi mu yifashishije akaboko k'iburyo arimo aseka.

Abantu bane bari kumwe, umwe ufite agapfukamunwa n'ibikomo n'iherena ku gutwi, ari gutanga ijambo, undi yicaye afite ikayi mu ntoki, n'undi yicaye afite igitambaro, n'umugabo wambaye ishati y'umweru, nawe wicaye mu ntebe akurikiye ikiganiro.

Umukobwa wicaye, wambaye ikoboyi ijya kuba umweru n'isengeri y'umukara, wambaye ishanete mu ijosi, ufite ibikomo ku kaboko k'ibumoso, akaboko k'iburyo karambitse ku kaguru k'iburyo, ufite imisatsi kandi uri guseka.

Umugabo wicaye wifashe mu mpanga, ufite umusatsi mukeya, wambaye ishati afashwe n'umugore wambaye isaha, amufatishijeho akaboko k'ibumoso, wari ufite imisatsi wambaye umweru hejuru, ari mu nyubako, umugore ari kumwihanganisha.

Ababyeyi babiri bicaye umwe afashe umwana afite n'akarabyo undi nawe wicaye afite umwana mu ntoki wambaye ingofero, bari kumwe n'umujyanama arihugura bafite n'amashashi ya biswi na telefone ku meza n'agasahane k'ibiryo ku meza n'agateremusi kuruhande n'utubati hafi yabo.

Abantu benshi bahagaze hamwe biganjemo abakobwa, harimo n'abasore n'umugabo bambaye iniforume y'imipira y'ubururu, hasi batambaye ibisa bambaye inkweto, umugabo wambaye hejuru ishati y'umweru na karuvati bahagaze ku murongo.

Abagabo n'abagore bahagaze hamwe ku murongo hejuru ku masikariye, imbere yabo hari kandagira ukarabe bambaye imyenda itandukanye, harimo n' nabashinzwe umutekano bambaye imyenda y'akazi, inyuma yabo hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore uteze igitambaro, ufite amaherena ku gutwi, azanye imkanyari mumaso, uri kurebana umujinya, wahimitse iminwa amatama usa nk'yabyimbye, kandi ubona ko afite umujinya.

Umukobwa uhagaze uri guseka, amwenyura, ufite umusatsi ukeye, wambaye ishati itukura, agapira k'ubururu kadafite ikora, udafite aherena ku gutwi.

Umuganga wicaye wambaye itaburiye n'ikarita y'akazi afite ikaramu mu ntoki, inyuma ye hari abandi baturage bicaye bari kumureba, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako biganjemo abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye umwe wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umweru abandi abenshi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, imbere yabo hari ameza hari n'amakaye.

Umugore uhagaze ufite umupira w'umukara w'amaboko n'undi yambariye imbere arimo imisitari y'umukara n'indi y'umuhondo, yikoreye igitebo.

Umusaza ukuze cyane wambaye ingofero ufite icumu mu ntoki. Wambaye ishati yumweru, ufite umwitero wumuhondo uri ahantu hagaragara ko ari kurugamba, wakutse amenyo yo hasi nayo hejuru.

Abantu benshi biganjemo abana n'abagore bahagaze, bafite idarapo ry'igihugu mu ntoki, barizamuye hejuru mu kirere, kandi bose bafite ibyishimo ku maso.

Abantu babiri umusore n'umukobwa bahagaze hamwe, ku gishushanyo cya webusayite byanditseho ngo awa werinesi webusayite, izi nawu, live bivuze ko webusayite yafunguwe iri gukora.

Umugore wicaye ufite ibisuko ku mutwe, ufashe mikoro mu kaboko k'iburyo, mikoro y'umukara, wicaranye n'umugabo, ufite uruhara udafite umusatsi, wambaye umupira w'umukara, wicaye imbere ye hari ameza n'igikapu cy'abagore.

Intebe ifite amapine yicayeho umuganga afatanyije amaboko wambaye isaha n'itabiriya y'umweru iriho ikaramu arimo areba imbere ye ufite umusatsi bukeya.

Umwana uri kumwe n'umusore bombi bambaye imipira y'umweru bafashe urudodo mu kanwa barufatishije amaboko yombi bose bari kureba hamwe amenyo yabo yose ari kugaragara ayo hasi na'ayo hejuru urudodo ru yayafashemo hagati.

Umwana wicaye wambaye iherena ku gutwi ufite imisatsi yapfundikiriye hejuru wasamye uri kureba hejuru, ufite amenyo arimo igipimo ari kuyapimisha gifashwe n'ibiganza bibiri byambaye ga z'umweru.

Kwa muganga mu cyumba hari umugore w'umurwayi, umurwayi wicaye ku ntebe uraramye ,wasamye wambaye umupira utukura, muganga wambaye amarinete wambaye n'agapfukamunwa, wambaye na ga z'umweruru mu ntoki ufashe ku munwa wasamuye umurwayi no kumusuzuma mu kanwa.

Ameza ariho udukorogati, abantu benshi batandukanye bambaye imipira isa imipira yicyatsi kibisi yanditseho mu ibara ry'umuhondo abandi bambaye imipira yumweru muhetse i harimo muhetse gikapu cyuyuma mubyibushye wambaye nisaha ufite n'imisatsi isutse.

Icyumba giteguye neza cyubatse neza, gifite amarangi kirimo amakaro, gifite amatara kirimo Kamera ibikoresho byose biri ku kumurongo, kirimo ubukarabiro kirimo n'intebe, intebe z'imisego kirimo na televiziyo gifite n'amadirishya ariho ibirahure.

Umugabo wambaye umupira w'umweru uri kwireba imbere mu ndorerwamo kandi ufite derede ku mutwe, ufite amaso ajya kuba umweru ufite urudodo mu kanwa, urudodo yenda gucishamo amenyo kandi udodo ruzikiye ku ntoki zombi rumeze nk'itapito barashisha.

Umugabo witurumbuye ufite isume ku rutugu, ufatishije urudodo rw'umwera amenyo, ushaka kurucisha amenyo, yaruhambirije ku ntoki zombi, kandi akaba yashinyitse amenyo, amenyo yose ari kugaragara, ayo hasi n'ayo hejuru, n'igituza cye cyose kikaba kiri kugaragara.

Mu bitaro kwa muganga, mu cyumba cy'abarwayi, abaganga babiri, umwana uryamye ku gitanda uryamishije umugongo, ureba hejuru, uri kumwenyura, ufite umusatsi, bari kumusuzuma amenyo barebe ikibazo afite.

Umuganga wambaye ga z'umweru, wambaye ishati y'umweru, yambaye na ekuteri, ufashe umwana umuryamishije, amuratse amwasamuye ari kumusuzuma ikibazo afite mu menyo.

Umwana uryamye ugaramye wambaye umupira hejuru wogoshe ukanuye kandi hari umuganga wambaye ga z'umweru itaburiye y'ubururu afite ibikoresho byo kumusuzuma ikibazo cy'amenyo.

Kwa muganga mu cyumba harimo intebe, ameza, televiziyo, akabati, intebe ifite amapine aho gukarabira ,ivase irimo ururabyo, icyumba gikoze neza ibintu byose bitenze ku kumurongo harimo n'ishusho y'abana babiri bafatanye.

Mu biro yicaye ku ntebe yambaye akajiri hejuru, yambaye n'umupira w'umweru, imbere ye hari akantu ko gukarabiramo, inyuma ye hari ibikoresho byo akoresha mu biro arimo guseka amenyo yombi ari kugaragara.

Mu ishuri, hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bamanitse amaboko bose, ukw'iburyo n'ukw'ibumoso, bari mu kirere bafite utuntu mu ntoki, bamwe bari guseka abandi bamwenyuye, bamwe bafite umusatsi abandi ntawo bafite.

Kwa muganga mu cyumba cyaho bafashiriza abarwayi b'amenyo, hari intebe ebyiri n'aga televiziyo n'akabati, intebe zifite amapine , harimo n'iparafo n'akamera n'amatara.

Umugabo wicaye ari guseka, ubwanwa bukeya ,umusatsi mukeya, wambaye ishati ari kureba imbere ye, umuganga wambaye ga z'ubururu itaburiye y'umweru arimo amusuzuma.

Icyumba kwa muganga cyubatse neza, gikoze neza, kirimo ibikoresho bifashisha mu kuvura amenyo, kirimo amatara na kamera, akabati, ameza ndetse n'intebe z'imisego.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba batangiramo ubuvuzi bw'amenyo, intebe eshatu intebe yose zisa kirimo amakaro, kirimo n'utubati dufite amadirishya, gifite amatara gifitemo na kamera.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba, hari abantu batatu, abagabo babiri, bombi bambaye amarinete, bombi bambaye udupfukamunwa, bombi bambaye amataburiye y'umweru, bombi bambaye ga mu ntoki, bafite ibikoresho, hari umurwayi ugaramye ku buriri, ufite ikibazo mu kanwa bari gusuzuma.

Abana bahagaze bambaye amashati asa bari mu ikigero kimwe bafite imisatsi mikeya, bafite uburoso bwo kwiboroshesha, bose babushyize mu kanwa, bamwe bafitemo korogate bari koza amenyo, abandi bataratangira kuyoza, undi ajunditse amazi, bose bafite udukombe mu ntoki.

Umugabo utambaye hejuru ufite urudodo mu ntoki, urudodo rw'umweru, afatishije amaboko yombi arushyize mu kanwa ruri munsi y'amenyo yo hepfo, yogoshe.

Umugabo wishimye ufite ubwanwa wambaye ishati y'ikoboye wambaye umupira imbere, afite umusatsi mukeya, amenyo yose ari kugaragara, isinya y'umweru, iminkanyari mikeya mu maso bigaragara ko afite umunezero.

Umugabo ufashe urudodo afatishije amaboko yombi w'inzobe udafite ubwanwa umusatsi, utagaragara amenyo y'umweru, urudodo rufashe amenyo yo hasi, kandi amenyo yose agaragara ayo hasi n'ayo hejuru.

Umugore wicaye mu ntebe y'umweru, imbere ye hari robine iriho igikombe cy'umweru kitari kujyamo amazi, afashe ikirahure, ari kwireba, afite ibisuko n'iherena ku gutwi, yifashe ku kananwa.

Kwa muganga mu cyumba, aho bakirira abarwayi, harimo umuganga w'umugore, wambaye ga z'ubururu, afashe igikoresho mu ntoki, kimeze nk'igifite amenyo, hari umurwayi uryamye, areba hejuru, barebana amwenyura mo gakeya.

Umusore wicaye ushyize urutoki ku menyo yo hejuru yabumbuye umunwa mo gakeya, ufite umusatsi wambaye umupira w'umukara, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'umweru na ga z'ubururu, ashaka kumushyirira andi menyo mu kanwa.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo kandi ufite umusatsi ku mutwe ufashe n'urudodo mu kanwa, arufatishije amaboko yombi y'iburyo n'ubw'ibumoso, wambaye umupira w'umweru.

Mu bitaro kwa muganga umuganga wambaye taburiya y'umweru wambaye ga z'ubururu afashe umwana mu ntoki, umwana ufite imisatsi umwana w'inzobe, wambaye ishati yamwasamuye ari ku mupima iryinyo.

Umwana wicaye mu ntebe itukura ufite umusatsi mukeya wasamye, amenyo yo hasi n'ayo hejuru biri kugaragara. Ibiganza bibiri ifashe intoki ebyiri ebyiri yazishyize mu kanwa ke uri gusuzumwa ikibazo cy'amenyo afite.

Umwana mutoya wicaye mu ntebe z'abana wambaye agakanzu, wambaye n'umupira w'umweru ufite uburoso mu kanwa; ufatishije akaboko k'ibumoso, ufite amaso y'umweru, ufite akantu mu mutwe, ufite n'umusatsi mukeya kandi uri kwishima.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, utambaye hejuru, wambaye agakabutura k'umweru, ufite umusatsi mukeya, ufite amenyo y'umweru, n'ishinya itari umutuku, ufashe urudodo mu kanwa, arufatishije amaboko yombi, urudodo rufashe mu menyo cyane cyane ayo hejuru.

Umuganga wambaye ga z'umweru uri kuvura umurwayi ikibazo cyo mu kanwa afite mu menyo yamuraramishije umurwayi afite umisatsi mukeya giherena ku.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira w'umweru, utuze urutoki ku munwa we, amenyo ye ari kugaragara, wambaye amataratara, usa nk'uhagaze, ubyibushyemo kandi w'inzobe.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi hari umuganga wambaye hejuru ubururu, wambaye agapfukamunwa n'amarinete, wambaye na ga z'umweru n'umwana urwaye uryamye ugaramye ku buriri, wasamye bari gusuzuma mu kanwa.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ufite uburoso mu kanwa, afatishije akaboko k'ibumoso, ufite imisatsi, ufite ibitsike by'umukara, ufite amenyo y'umweru ariko utari kwiborosa.

Kwa muganga mu cyumba hari abantu batatu, umurwayi ugaramye ku buriri wasamye, washyizwe ikintu mu kanwa, uri gusuzumwa n'umuganga wambaye amarinete, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye n'itaburiya y'umweru, ufite igikoresho mu ntoki, wambaye na ga z'umweru, iruhande rwe hahagaze undi mugabo uri kumufasha.

Kwa muganga mu cyumba aho basuzumira umurwayi hari abantu batatu, umurwayi n'abandi bantu babiri, umugabo n'umugore bambaye ga z'umweru mu ntoki, umugore ufite ikindi gitambaro mu mutwe cy'ubwirinzi, umugabo wambaye amarinette. bombi bambaye n'agapfukamunwa, bombi bambaye n'imipira y'umukara, umurwayi agaramye ku buriri bari kumusuzuma.

Intebe y'umukara ifite amapine, akabati k'umweru televiziyo mudasobwa iri hejuru itari kwaka amasinga acometse mu ndahuzo.

Umuganga wambaye ga zitukura, afashe amenyo mu ntoki, ikijigo cy'umuntu arimo ayavura ayitaho akoresheje ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe.

Kwa muganga mu cyumba amarido bayakuyeho, umusaza yicaye mu ntebe araramye, imbere ye hari umuganga yambaye ga z'umweru, itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, yararitse umurwayi ari kumukura iryinyo kugira ngo umurwayi abashe kumera neza.

Umukobwa w'inzobe ushinyitse amenyo yose ari kugaragara ayo hasi n'ayo hejuru, akaboko ke k'ibumoso na k'iburyo kavuyemo intoki yazitunze ku munwa we.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi aho batangira ubuvuzi bw'amenyo harimo abantu bane n'uhagaze wa gatanu, n'umurwayi wicaye kumwe na mugangaga wambaye itaburiye y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ufite n'ibisuko yararamishije umurwayi arimo kumusuzuma amenyo.

Abagore babiri bari mu myitozo ngororamubiri umwe mwambaye agapira gaciye amaboko undi yambaye agasengeri, umwe wapfunditse imisatsi undi nawe yayipfunditse, umwe afite akabandana ku kaboko k'iburyo, bose barambuye amaboko bateye intambwe kandi bari kureba hejuru mu kirere.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi ari gukoresha, umugabo ukuze, imyitozo ngororamubiri, umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite ubwanwa afite n'umusatsi mukeya, ufashe icyuma mu ntoki, ari kugikoreraho imyitozo.

Abagore n'abagabo bari ahantu hari ibihingwa ariko umwe muri bo wunamye yamanitse ikintu hejuru abandi bahagaze bari guseka, inyuma yabo hari ikirere cy'umweru n'umugabo ubari inyuma wambaye ingofero bigaragara ko ari we muremure.

Umugore ukuze ufite imvi wambaye umupira kumwe n'umukobwa we wambaye amataratara n'umupira ufite isuku kumwe n'umwana wabo wambaye umupira wmweru ufite imisatsi bari mucyumba ahantu hategurirwa amafunguro.

Umugabo, umugore n'umwana ndetse bose bicaye ku buriri, barimo baseka hamwe bafite imisatsi abandi ntayo bafite kandi bicaye ku murongo, bose batewe ishema n'umwana muto ubarimo.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba harimo abantu babiri umugabo n'umugore, mugore ufite agatabo mu ntoki bafashe n'umugabo ku rutugu afite ibisuko ku mutwe yambaye ishati y'umweru ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara, umugabo yambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umukara n'inkweto y'umukara mu kaguru kamwe umugore arikumukoresha siporo amwigisha kugenda.

Ahantu hatuje mu nzira, abagore babiri bari kugenda umwe ari imbere, undi ari inyuma, uw'inyuma yambaye umupira w'umukara, ateze igitambaro gitukura, uw'imbere ntagitambaro ateze, afite imisatsi isutse, bombi bari kugenda baseka.

Umukecuru ukuze wambaye ishati y'umuhondo ufite imisatsi yambaye amataratara afite icupa mu ntoki wambaye n'impeta hasi ye hari ibinini byinshi ifite ibara ry'umweru.

Umugabo w'umusaza ufite imvi afite n'uruhara, imbere ye ku meza hari igikombe kirimo amazi cy'ikirahure, ari kumwe n'umukecuru afite urupapuro bombi bari gusoma imbere yabo hari uducupa tw'imiti.

Umukecuru wicaye uri guseka, uteze igitambaro gitukura, yambaye ikote, n'umusaza wicaye afite ubwanwa, yashyize umunwa we ku itama ry'uwo mukecuru, bari kumwe, ariko nawe yafashe umusaza ku rutugu.

Abasaza bicaye hamwe bameze nk'abari mu misango y'ubukwe, bafite inkoni, bambaye ingofero zitandukanye ziri mu bwoko bw'ingofero z'abisilamu, bambaye n'amakanzu, amakanzu afite amabara atandukanye, bambaye n'inkweto ziganjemo iz'umukara harimo n'uwambaye ingofero itari iya kiyisilamu n'utayambaye.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga wambaye umupira w'umweru ufite imvi ku mutwe wambaye amataratara ufashe icyuma baterura mu ntoki ari kumwe n'umuganga wambaye ikarita y'akazi wambaye imyenda itukura ufite imisatsi ari kumufasha kwimenyereza kwita ku buzima bwe.

Umugabo ukuze ufite imvi, yambaye ishati y'umweru irimo uturongo dutambika, uteruye mwana, ufite agapupe mu ntoki, wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru dutambitse, umwana ufite agasatsi gakeya bose bari kurebana bishimye.

Mu rugo umugore uri kumwe n'umwana we ,umugore wicaye mu ntebe afite amaherena ku gutwi, yambaye n'impeta yambaye n'iyenda y'umweru, umwana wamuafashe mu gatuza, wambaye ishati y'mweru, inyuma yayo hari ikanzu yubururu bose bafite ibisuko barimo bamwenyura bishimye cyane.

Umugabo w'umusaza uhagaze wambaye umupira utukura ufite amaboko maremare, wambaye amarinete, ufite imvi, uri kumwe n'umugore ukuze wambaye isaha, wambaye umupira utukura urimo imirongo itambitse y'umukara, wambaye ishananeti mu ijosi, ufashe ku meza kandi imeza iriho n'icupa.

Umugore ukuze cyane, ufite imvi, w'inzobe, uhagaze, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, urambuye amaboko, ak'ibumoso n'ak'iburyo, yombi afashe ibintu mu kiganza.

Abagore bunamye bari gusarura icyayi umwe wambaye umupira w'amaboko. undi uw'umweru utayafite bateze ibitambaro bose barimo baseka.

Abantu batandukanye bicaye hamwe muri sare, umwe yambaye ikarita y'akazi, wambaye n'amarinete, wambaye n'ipantaro y'umweru n'umupira w'umweru, umugabo n'umugore bicaye hamwe, bari gusangira, bari kurerebana mu maso, umugore ufite imisatsi n'umugabo wambaye akajire k'umukara.

Umukecuru wicaye ufite ikirahure cy'amazi cy'umweru mu ntoki, ufite iherena ku gutwi, ufite imisatsi mikeya, uri kwitabwaho na muganga ufite iherena ku gutwi, ufite imisatsi, wambaye isaha ku kuboko kandi ahagaze.

Ubuvuzi nko kwita ku bakuze ni musaza ufite imvi ukuze cyane uri guhabwa imiti wambaye umupira ujya kuba umukara wicaranye n'umukecuru wambaye umupira utukura umukecuru ufite imvi afite n'urupapuro rwambaye nimpeta mbere yabo hari igikombe cy'amazi.

Umugabo wicaye wambaye ishati wihebye, wifashe ku mpanga ufite umusatsi ndetse n'ubwanwa burimo imvi, wahumirije, hari ikirahure kirimo amazi afashe no mu ikayi yarari kwandikamo n'indi iri kuruhande ibibazo byamurenze.

Umusaza munini, ubyibushye wambaye umupira w'umweru, wambaye ikabutura y'umukara, wambaye na ekuteri, ufite imvi, wambaye n'amataratara, ateruye ibyuma mu maboko yombi kugira ngo ajyane na gahunda yo kwita ku buzima bw'abakuze.

Abagabo bakuze bari gukora imyitozo ngororamubiri, mu buryo bwo kwiruka, bambaye amatiriningi hasi, hejuru bambaye umweru n'amacupa mu ntoki harimo amazi makeya.

Umugore ukuze ufite imvi igikombe cy'amazi mu ntoki agifatishije akaboko k'ibumoso ak'iburyo gapfutse umunwa, wambaye impeta wambaye n'amataratara uri mu cyumba ahantu ha wenyine.

Umugabo w'umusaza ukuze usa n'uwunamye wambaye ipantaro y'umukara afite imvi kumutwe iruhande rwe rw'ibumoso ufashwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru muruhande rw'iburyo afashwe n'undi mugore.

Ubuvuzi bwo kwita ku bakuze bwiganjemo abakecuru, bambaye ingofero, bamwe bateze ibitambaro kandi bafite udupfukamunwa, abenshi bambaye imipira y'umweru bambaye n'amajipo yumukara, bahagaze kumurongo uri umwe inyuma y'undi.

Umusaza ufite imvi wambaye impeta wambaye ishati y'umweru n'umupira w'umweru, bari kumwe n'umukecuru, umukecuru ufite imvi bose bari ku meza bari gufatira amafunguro hamwe kandi bishimye barebana mu maso.

Abantu babiri umusaza n’ umukobwa we. Umusaza wambaye amarinete ufite n’ imvi ufite n’ ubwanwa bwabaye imvi wambaye umupira w’ amaboko w’umukara. Umukobwa we amufashe, umugabo yicaye mu kagare umukobwa we ari kumusubika bose bari guseka.

Umusaza ufite imvi wicaye ari kumwe n'umukecuru wambaye impeta umukecuru wambaye umupira utukura mbere yabo hari ameza hariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa kubungabunga ubuzima bwabakuze.

Umuryango ugizwe n'abantu batanu: umugabo n'umugore, umugore wambaye impeta, n'abana batatu, abakobwa babiri, n'umusore umwe ufite imisatsi wambaye agapira kadafite ikora agapira k'umukara, umwana muto wambaye ishati y'umweru, umukobwa wirabura.

Umugore ukuze ufite imvi wambaye amataratara umupira w'umweru nk'imirongo itambitse y'umukara ufatanye n'undi mubiganza wambaye ikanzu y'ubururu ufite imisatsi miremire.

Kwa muganga mu cyumba, umusaza wambaye amataratara, wicaye mu ntebe uri kumwe n'umuganga wambaye ikanzu y'ubururu, ufite ibisuko, yamushyizeho igipimo ku kaboko k'iburyo, amusuzuma umuvuduko.

Umugabo ukuze wicaye ufite imvi, wambaye amarinete, afashe ikaramu mu kaboko k'ibumoso, ikaramu y'umukara, wambaye ishati itukura, afite igitabo mu ntoki ari gusoma, ariko yifashe ku munwa.

Umugabo mukuru uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye agapira, ipantaro y'umukara, ufite ubwanwa buconze n'umusatsi mukeya, imbere ye hari undi mugabo uri kumufasha bafite umugozi bombi bari gukurura.

Mu nzira, abagabo babiri bari kugenda umwe akuze cyane n’undi utari ukuze cyane, bambaye bose inkweto zifunze. Umusaza wambaye ingofero wambaye n’isaha ku kuboko afashe mugenzi we ku rutugu umusumbamo gakeya.

Umugabo ukuze, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'umweru, ari gukoreshwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu.

Umukobwa wicaye wifashe ku itama wambaye agapira ufite iherena ku gutwi arimo yitegereza nyina mu maso, wambaye amataratara ufite imisatsi n'imvi yambaye agapira k'umuhondo arimo akata imboga.

Umugore uri kumwe n'abandi babiri, bose bahagaze bari kureba muri telefone ifashwe n'uwo hagati, arambuye akaboko, ayishyize imbere yabo, bari guseka, barimo bifotora bifatora, bifata agafoto ko hejuru.

Ubuvuzi bwo kwita ku bantu bakuze, uwo musaza agenda yunamye, ufite imvi, umusatsi mukeya, ufashwe n'undi mugabo wambaye ikote, wambaye n'agapfukamunwa, wambaye n'amataratara arimo amusindagiza.

Umugabo wambaye umweru hejuru, arimo yitabwaho n'undi mugabo w'umusaza wambaye umupira urimo uturongo tw'umweru, n'utw'ubururu, ufite imvi nkeya n'ubwanwa bukeya, arimo amureba mu maso.

Umugabo ukuze ufite imvi nku agapfukamunwa n'ishati yu'ubururu yicaye ku ntebe ya plastike imbere ye hari umugore ariko kumufungurira ibipesi wambaye agapfukamunwa ufite n'ibisigo ku mutwe.

Umugabo uhagaze ari kumwe n'abandi bagabo benshi ndetse n'abagore batandukanye, umugabo ufashe agatebe k'abafite ubumuga hirya ye hari n'izindi ntebe z'umweru, ku gati bafashe gafite amapine abandi bari gukoma mu mashyi arimo asuhuzanya na mugenzi we.

Umusaza wicaye ufite imvi wambaye amataratara imbere ye hari ameza n'igikombe cy'ikirahure cy'umweru kirimo amazi makeya n'ikayi irambitse, n'undi mugore wicaye imbere ye urimo amwitaho.

Abantu benshi batandukanye bicaye hamwe mu buryo bw'ikiziga ku ntebe z'umweru za pulasitike yiganjemo igitsina gore n'abagabo barimo umugabo wicaye ku ntebe hamwe n'undi mugenzi we uri gutanga ikiganiro.

Kwa muganga mu cyumba hari abantu babiri umurwayi wicaye mu kagare k'abafite ubumuga ufite amayehererena ku gutwi wambaye n'isaha ufite n'umusatsi, umurwayi ukuze cyane ari numuganga uri kumusuzuma umuvuduko wambaye n'ikarita y'akazi wambaye n' imyenda yu'ubururu afite n'ibisuko ku kumutwe.

Umugore wicaye mu ntebe kandi wambaye impeta ku kaboko k'ibumoso kandi wambaye umupira utukura uteze igitambaro cy'umukara, wambaye marinete arimo ari guseka, ari kumwe n'umukobwa we wambaye hejuru ubururu na we arimo amureba mu maso.

Abantu batatu umukobwa wambaye umupira w'umweru ufite iherena ku gutwi, uri kumwe n'umugabo wambaye umupira utukura, bari kumwe n'umukecuru barimo bamugaburira.

Umugore ubyibushye ufite imisatsi wicaye arambuye akaguru k'iburyo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze akaguru k'ibumoso y'agahinnye.

Umugabo ubyibushye wambaye agapira kamwegereye wambaye n'isaha wambaye n'impeta uri kumwe n' numugo ufite imvi wambaye agapira k'umweru wambaye n'isaha ku kaboko gahinnye ari gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwo kwiruka.

Umukecuru uhagaze uteze amaboko, wambaye iherena ku gutwi ufite imisatsi mikeya ari gufashwa n'undi mukobwa uhagaze imbere ye wamufashe ku kaboko k'iburyo umukobwa ufite imisatsi mikeya wambaye imyenda idafite amaboko maremare.

Umugore wambaye ijire wambaye agapfukamunwa ufite amaherena ari kumwe n'undi wambaye umupira, wambaye agapfukamunwa, wambaye amarinete, inyuma yabo hari undi, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo ripoti oni de sitarategike resiponse tu kovide nayinitini in de wedi herifu oruganizasheni afurikani rejoni.

Ubukangurambaga ku ngamba z'ubwirinzi zo guhagarika icyorezo cya mabage. Byabaye i kigali ku wa makumyabiri z'ukwa cumi umwaka wa makumyabiri makumyabiri na kane ,ikiganiro cyari kiri gutangwa n'abayobozi, bahagaze imbere abandi bicaye bateze amatwi bakurikiye.

Ikirango cyanditseho ngo, ten years cyangwa imyaka icumi, kandi kigamije guhamagarira abantu kuboneza urubyaro, kivuga ngo, family planning market report.

Abagabo benshi bahagaze hamwe bambaye bikwije amakanzu y'umweru afite ingofero n'udupfukamunwa bose batwambaye, inyuma yabo hari undi nawe wipfumbase wambaye agapfukamunwa nawe uhagaze bari mu gihu cy'umukara.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, abayobozi bicaye mu ntebe z'icyubahiro, biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, bakaba ari abayobozi mu bijyanye n'ubuvuzi, bari mu muhango wo gusinya amasezerano.

Abagore bane bari mu gishushanyo kimwe, umwe wambaye ibitukura, undi wambaye iby'ubururu, undi yambaye iribaya, undi yambaye iby'umukara, uwo hagati yakutse amenyo, bose basa nk'abahumirije, bafite intego imwe yo kwerinetinga cyangwa yo kurwanya nk'uko byanditse kuri iki gishushanyo sevikarisensa.

ikirango kigaragaza akamaro k'ubuvuzi cyanditseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza asomwa ngo medesine wi keni tarasite ekoru tu sefugadi kwariti n'umwana basamye ufite agafoke mu kanwa ukanuye areba hejuru.

Ubukangurambaga bwibanda ku rubyiruko rubashishikariza kwirinda virusi itera Sida, ibahamagarira kwipimisha buri gihe kugira ngo babashe kwirinda, bwakozwe n'abantu benshi higanjemo igitsina gore ndetse n'abagabo bambaye imyenda y'umweru n'indi y'ubururu.

Kwa muganga hari umujyanama w'ubuzima wambaye ishati y'umweru, wambaye n'ijiri itukura, afite umurwayi ari kumusuzuma, yamuhaye akaboko k'iburyo, umurwayi wambaye umupira w'umukara ufite ibisuko, inyuma ye hari abandi bahagaze bari kumureba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye wambaye n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara, imbere ye hari abana benshi n'umubyeyi w'umumama ari kubaganiriza, imbere ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo takoringi mento herifu ishuzi ini Rwanda.

Umuganga wambaye umupira w'umweru, wambaye igikomo ku kaboko, uri kuvura umurwayi amutera urukingo; umurwayi wambaye umupira w'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n' iritukura n'iry'umweru mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo good news , the yellow fever, vaccination campaign has been extended up to fourteenth, April twenty twenty-four.

Akaboko k'umuntu karambuye gafite utwobo mu ruhiniro, gafite ibiherigiye bigiye bimera byizengurutse; bari kwitabwaho kwa muganga basuzumwa harebwa icyayakavura kugira ibi biheri bikire.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umukara na ga z'umweru, ari kumwe n'abakorerabushake bambaye amajiri n'undi mugabo wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, bafashe umurwayi, bamuryamishije kuri burankari areba hejuru.

Ihuriro ry'abakobwa b'urubyiruko bari mu kigero kimwe bambaye imipira y'umweru, bambaye hasi ibigiye bitandukanye bamwe bambaye amakoboyi, abandi bambaye amapantaro y'umukara, bambaye inkweto zigiye zitandukanye bafite ibisuko ku mutwe abandi nta bisuko bafite.

Abamasera biri n'uwa gatatu bahagaze inyuma y'umugabo wambaye ikote, wambaye isaha afatanye n'umubyeyi nawe wambaye amataratara bombi bahagaze.

Imibare yanditse, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, amagambo yanditse ngo ''Health Research & Policy Conference''. Inaama irimo abantu benshi batandukanye abagore n'abagabo, imbere hari abayobozi b'inama abandi bari gutanga ikiganiro abandi bicaye bakurikiye.

Ikigo mpuzamahanga cyita ku buzima cyanditseho ngo" gorobo herifu foramu," umwana uryamye, wiyoroshe ishuka y'umweru, hasi handitse ngo "wani deyi tugo," bisobanuye ngo harabura umunsi umwe.

Igishushanyo cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye cyanditseho mu mpine RBC mu magambo arambuye cyitwa Rwanda Biomedical Center, kandi kikaba cyita ku buzima bw'abantu cyanditse mu magambo y'icyongereza kuri helifi pipo welifu nasheni bivuze ngo abantu bafite ubuzima bwiza, igihugu gikize.

Kwa muganga mucyumba muganga wambaye itaburiye y'ubururu wambaye ga z'umweru ari kumwe na mugenzi we bambaye agapfukamunwa n'akagofero k'ubwirinzi bombi bahagaze.

Umugore wirabura mu maso ariko utirabura cyane ubyibushye mu maso ufite amaherena ku gutwi, ufite ibisuko ku mutwe, wambaye ishati y'umukara irimo n'andi mabara agiye atandukanye wita ku bidukikije akaba ahamagarira abantu kwita ku bidukikije ndetse n'akamaro k'ibidukikije.

Abantu bari hamwe bitabiriye inama y'ubukangurambaga ku buzima bose bambaye imipira y'umweru, abenshi bafite ibisuko, abandi bambaye inkweto zitandukanye abandi bafite amacupa y'amazi imbere yabo hari umwigisha uri kubasobanurira ibyerekeye ubuzima.

Ababyeyi bane, buri mubyeyi ufite umwana umwemuteruye kumusingiza undi ari kumuha ibere, undi yicaye ari kureba uwateruye uwe, undi w'umukobwa nawe ari kureba umwana we mu maso.

Umuhuro w'abantu batandukanye abagore, n'abagabo bari kurwanya umunsi mpuzamahanga wa SIDA bamwe bafite imisatsi, abandi ntayo bafite bamwe bambaye amataratara abandi bicaye imbere mu ntebe bari gutanga ibiganiro.

Handitswe amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ati:" internationalfederation of bylonmente hely wade invelomentlt day totesixf setemba touti to an fo". Akaba ari amagambo avuga umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije kugira habeho ubuzima bwiza akaba ari umunsi wabaye ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ikirango gihamagarira abantu kwirinda indwara, cyanditseho mu buryo bw'inyuguti nkuru igombajwi n'inyajwi byanditswe mu' ibara ry'umweru n'iry'umuhondo, handitse ngo "Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende" .

Umuntu wicaye ari kumwe nabakorerabushake nabo bicaye, bose bambaye udupfukamunwa tw'umweru, umugabo wambaye ishati y'ubururu, wazamuye wazinze ku rutugu, ugiye gufata urukingo, ugiye kuruhabwa n'umukorerabushake wambaye ishati y'umweru, wambaye n'ingofero, wambaye n'amataratara.

Igishushanyo kirimo ibishushanyo bitandukanye kigaragaza ingamba zo kurwanya corona kirimo abantu umwe wifashe ku munwa wambaye agapfukamunwa undi yicaye abandi babiri bahagaze bunamyemo gakeya umwe afite umutaka hari n'uburyo bwo guhamagaza nimero.

Umugore uhagaze mu nyubako mu cyumba mberabyombi afite mikoro ayifatishije amaboko abiri, inyuma ye hari agakapu afite n'ibisuko ku mutwe, imbere ye hari abandi bantu bahicaye barimo bamureba ari kubagezaho ijambo.

Kwa muganga, muganga uri mu cyumba wambaye agapfukamunywaye , wambaye na ga mu ntoki, ufite agacupa mu ntoki, uri kureba muri mudasobwa yambaye n'itaburiya y' umweru, ishati y' umweru, inyuma ye hari n' intebe.

Kwa muganga inyubako yubatse neza iriho kamera aho bakirira abaje bahagana, handitse ngo resebusiyo hari intebe zimeze neza z'imisego, inyubako irimo amakaro.

Inyubako yo kwa muganga mu cyumba kimeze neza, kirimo ibikoresho basuzumisha umurwayi hari mo isaha giteye amarangi atandukanye harimo n'amakaro gifite parafo irimo amatara harimo na camera.

Ikigonderabuzima cya Nyarurenzi, hasi ku muryango hariho abantu batandukanye, hariyo umugore uheretse umwana ufite imisatsi, hariho indabyo n'umugabo wambaye ingofero n'umupira w'umuhondo.

Inyubako y'aho bavurira ikinguye, ifite urugi, ifite irangi ry'umweru, inyubako irimo amakaro, imbere harimo ameza, igitanda, igitambaro n'akabogisi bashyiramo imyanda.

Kwa muganga mu cyumba cy'isuzumiro, abantu batatu babiri bicaye umwe uhagaze afite igitabo yambaye imyenda y'ubururu, n'umuganga wicaye wambaye itaburiya y'umweru afite n'igitabo n'ikaramu, n'umurwayi wicaye imbere ye bari kurebana mu maso ariko kubaza umurwayi uko ameze. Umurwayi ufite amaherena ku gutwi ndetse n'imisatsi y'ibisuko wambaye agapira k'umukara gaciye amaboko.

Abagore batatu bahagararanye bambaye imyenda y'ubururu, bateze ibitambaro by'umweru bose bari kumwenyura umwe ahagaze ku ruhande afashe mu mifuka akoresheje amaboko abiri yombi afite n'agasaro mu ijosi.

Mu biro hari abagabo babiri, umugabo umwe wambaye linete wambaye n’umupira w’ikirango cya kuruwaruje, umugabo ukorera ikigo cy’igihugu gishinzwe ubuzima, n’undi ukorera irembo. Ufite ikarita y’akazi mu gatuza, nyuma yabo hari amacupa abiri ya kizimyamoto.

Mu cyumba ahantu heza hasa neza, inzu irimo amakaro hasi, intebe ku ruhande, amarido agiye agabanyijemo, hirya hari umugabo uhagaze arimo akorakora ku byuma.

Inyubako imeze neza irimo utubati, irimo inzugi zifite selile z'umweru, n'inzugi ziteye irangi ritukura, ibikuta by'umweru bike bisize irangi ry'umweru harimo n'iry'ubururu, n'utubati mo imbere natwo dufite amarangi y'umweru.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira abarwayi, harimo abaganga batatu, umurwayi uryamye ku gitanda uryamisheje umugongo, harimo kamera n'ibindi bikoresho bitandukanye, aryamye ku mashuka y'umweru muganga yicaye ari kumusuzuma.

Ku kigo nderabuzima aho bakirira abahagana imbere yaho hari abarwayi benshi, harimo umumama uhetse umwana amuhekesheje igitenge, ateze igitambaro kidoze mu gitenge, abandi barwayi bicaye abandi bahagaze.

Kwa muganga mu cyumba ahari ibikoresho bitandukanye, icyumba kimeze neza gitatse ibikoresho byose by'uburyo bwose, hari n'igitanda n'intebe, harimo umurwayi uryamye agaramye areba hejuru ku gisenge cy'inzu yiyoroshe ishuka y'umweru.

Inyubako yo kwa muganga mu cyumba aho bavurira hari ibishushanyo by'abana bahagaze mu buryo butandukanye hari agatebe abantu bicaraho hari igikoresho hari gukarabiro hari akabati.

Kwa muganga mu cyumba, hari umurwayi wicaye ku buriri wambaye agasengeri n'akagofero k'umukara, ari kumwe na muganga, ari kumureba mu maso, Muganga wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi, inyuma yabo ari undi murwayi uryamye ku gitanda, uryamiye urubavu rumwe ari kubareba.

Urukuta rw'amatafari ahiye, icyapa kiriho ikirango cy'igihugu kinanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara akavuga ngo "Kigali city", imbere yaho hari umuhanda w'igitaka, ibiti, ibyatsi n'amabuye.

Abaturage bicaye mu nyubako z'ikigo cy'ivuriro ahaganjemo abagore n'abagabo, umugabo wambaye ingofero, ishati y'umweru, ikote ry'umukara abandi bahagaze inyuma ye, inzu zifite amarangi y'umweru zisakaje amabati.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira abarwayi, harimo intebe y'umukara, harimo n'indi ntebe itari iy'umukara, hakabamo akapobogisi bashyiramo imyanda, habamo utubati, icyumba kirimo amatara kandi gifite amadirishya.

Umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, arimo agasunika imbere ye hari ikigega gifite ibara ry'umukara, inyubako yubatse neza ifite amadirishya arimo ibirahure by'umweru n'undi mwana uri inyuma y'indabyo wambaye umupira w'umuhondo.

Inyubako nini iririmo intebe zitarimo abantu, intebe z'umukara, inyubaho irimo matara, harimo na vandarateri, igikoresho gitanga umuyaga igihe hariho ubushyuhe, sima y'ubururu, amadirishya y'umweru afite ibirahure.

Kwa muganga hanze hari amapave, har imodoka y'umukara ihaparitse, hejuru hariho ibishushanyo, bimanitseho, ifite amadirishya afite ibirahure, isize amarangi atandukanye, mu muryango hahagaze abantu benshi.

Kwa muganga mu cyumba, umurwayi aryamye ku buriri aryamye agaramye, yambaye agapfukamunwa, harimo serume ebyiri, akaboko yakarambitse ku musego, imbere ye hari imashini ipima umwuka, mu maguru ye hari akandi kamashini bifashisha bamusuzuma.

Ababyeyi bafite abana batoya bari ahantu hamwe baje gukingiza, umwana uri mu gipimo uri gupimwa, ibiro umwana mutoya wambaye agasarubeti, na nyina wambaye ishati y'umweru ndetse n'undi mubyeyi wicaye kuru ruhande ufite amaherena ku gutwi, ufite udusaro mu ijosi ndetsete n'umwana mu ntoki.

Mu cyumba kwa muganga harimo amarido a,zinze ariko adapfunditsemo arambuye ibitanda byinshi ariko bitari hamwe gusa bitariho abarwayi.

Inyubako nziza iri ahantu heza ifite ubusitani imbere, ifite indabyo nziza z'amoko atandukanye, yanditseho irikadi Afurika cyanditse mu nyuguti zandikishije ibara ry'umweru, Afurika mu ibara ritandukanye n'izindi, inyubako ebyiri ziri kurebana.

Kuri ki efu eci (KFH) Rwanda hanze hari abagabo bari kugenda bambaye amashati y'umweru, bambaye amapantaro y'umukara bamwe yambaye amakobo y'ubururu harimo n'umugore umwe ufite ibisuko ari gushaka kwinjira mu nyubako hari n'undi uri kubayobora abereka aho binjira.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi n'ibitandakanye hari iyummba bavurira byinshi bitandukanye n'umuganga'agapfukamunwatabura y'umweru inyuma ye abandi bantu babiri umwe ari gufata igitabo kandi arimo na kamera.

Kwa muganga mu bitaro mu cyumba cy'umurwayi hari ibitanda bibiri, icyumba gikoze neza gifite amarido meza y'umweru, gifite akabati n'agapuperi bashyiramo imyanda n'ibitanda bifite amapine ndetse n'ameza y' yumurwayi.

Inyubako ybuganga mucyumba cyibagiro gifite urugi nshuti irangi nkirahure ntiba kimeze neza iri ahantu heza ifite parafu herimo amatara na kamera.

Icyumba kinini gikoze neza, kirimo ubusa ariko harimo ibitanda, intebe kandi ibitanda bigiye bifite amapine, amadirishya ariho ibirahure ndetse n'igisenge kiriho amatara manini.

Icyumba kwa muganga umurwayi uryamye ku gitanda wambaye ishati y'umweru, wiseguye umupira w'umukara amashuka ariho ibikoresho bicometse ku muriro.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba, abarwayi batatu bambaye amataburiya y'umweru, ga z'amabara atandukanye, hari microscope bapimiramo abarwayi, hari icupa ry'amazi, hari ameza afite ibara ry'umweru bose bari kumwenyura.

Ku kigo nderabuzima umuryango urakinguye gifite amarangi agiye atandukanye gisakaje amabati, hanze hicaye abantu bane abagore babiri n'abana babiri batoya.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba aho bavurira abarwayi. Harimo ibitanda bitandukanye, harimo agateleviziyo na mudasobwa ,isaha imanitse ku kibambasi. Harimo n'amatara hejuru kuri parafo n'ubukarabiro.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afite ikaramu ku mufuka wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, wambaye n'impeta, wogoshe, udafite ubwanwa bwinshi, wicaye ku gatebe gafite amapine agakandagijeho amaguru yombi, yambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Inyubako yubatse neza ifite amarangi atandukanye n'amadirishya n'inzugi, hari intebe hanze hicayemo umuntu, hejuru harimo amatara hasi hakoze neza.

Kwa muganga mu cyumba ahicayemo umuganga ku ntebe ya palasitike y'umweru, yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, imbere ye hari umwana muto urwaye wicaye ku ntebe wambaye ishati y'umweru ari kumusuzuma.

Mu bitaro kwa muganga aho bakiriye abarwayi, harimo abarwayi babiri, ikindi gitanda kibarimo hagati kitarimo abarwayi, bombi baryamye biyoroshe amashuka atandukanye, hamwe n'umweru irindi ni ubururu.

Icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya Marityazo, imbere yaho hari umugore urimo asohoka ari kumwe n'undi mugore , wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, nawe akenyeye igitenge, aratwite, yambaye umupira w'umukara, irembo ry'kigo nderabuzima rirafunguye.

Ibitaro bya kabwayi ;mu marembo harimo igare rihetse imizigo, hirya yaho har' umuntu uhahagaze wambaye umupira kandi wifasheho ukoresheje amaboko yombi.

Kwa muganga mucymba cy'abarwayi ku buriri hari umurwayi uryamye wambaye ikanzu ugaramye wakomeretse ku kaboko, nyina amufashe akaboko, muganga amufashe ku mutwe yambaye karuvati yambaye n'ishati n'ipantaro yumukara.

Kwa muganga mu cyumba harimo umwana mutoya w'uruhinja, ari kumwe n'umuganga wambaye ga z'umweru n'ingofero y'umweru kandi arimo amwitaho, amufashe akaboko k'iburyo.

Mu nzu mberabyombi, mu cyumba k'inama, hari ababyeyi batandukanye, biganjemo abakuze, bambaye imyenda igiye itandukanye ifite n'amabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umuyobozi, abandi bayobozi babiri bicaye, bari kubageza aho ijambo ry'icyari cyabahurije muri iyo nzu.

Kwa muganga mu cyumba aho bakirira abarwayi, hari umurwayi uryamye ku gitanda ureba hejuru, igitanda gifite amashuka y'umweru n'akabati nk'imashini zongerera abarwayi umwuka, harimo n'agatereviziyo.

Inyubako, sale nini irimo intebe n'ameza, intebe z'umukara, imbere yaho hari akabati, hejuru ku iparafu harimo amatara na kamera, inyubako igizwe n'imbaho ku mpande ku bikuta.

Inyubako yubatse neza kandi ifite ibirahure bimeze neza, isize irangi ry'umuhondo yubatswe ku buryo buzengurutse hirya hari indi yubatse neza hino hari jaride kandi hagati yazo hateyemo igiti.

Inyubako yutse neza yahagaze ifite inkingi enye imbere isize amarangi atandukanye hanze hari indabyo hari n'icyapa ari n'intebe ziteretse hanze zitukura.

Ibitaro bya King Faisal biriho amabendera atandukanye harimo nk'iry'u Rwanda, hariho ibyapa bitandukanyeze hari abantu bahagaze harimo umumama wambaye ishati y'umweru n'amataratara ariho n'umusifuzi.

Mu bitaro kwa muganga, hari umwana wicaye utambaye hejuru umupira, ufite ipantaro y'umukara ariko ikibazo afite ikibazo mu ijosi, ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, inyuma ye hicaye undi musore arimo areba umwana mutoya amusekera.

Inyubako y'ubuvuzi, hanze ifite sikariye, ifite garidefo, ifite ibishushanyo byinshi bishushanyijeho ku muryango, ikinguye, ifitemo ibikoresho imbere, inyuma handitseho ngo "faruma maketi," hejuru handitse ngo "herifu," hagati mu nyuguti nkuru byanditse mu ibara ry'umweru handitseho ngo "tageti."

Ku bitaro by'Akarere ka Nyarugenge hanze hari ubusitani bukoze neza burimo indabyo zitandukany,e hari igiti giteye ku mbuga, hari aho amamodoka aparika, mu muryango hari abagabo babiri bahahagaze bambaye imyenda y'umweru bahagaze bari kurebana.

Inyubako y'ubuvuzi ku kigo cy'ubushakashatsi, inyubako yubatswe neza, irimo intebe imbere zitenze neza, igizwe n'ibirahure, ibirahure by'umweru bibonerana, bifite amarangi atandukanye.

Kwa muganga mu cyumba hari intebe ebyiri, agatebe gatoya k'umukara gafite amapine atanu ko bicaraho, hariho n'indi ntebe nini y'abarwayi n'aho babasuzumira, hari n'akamashini imbere muganga yifashisha ari kuvura umurwayi.

Umukecuru wicaye uteze igitambaro cy'umukara, inyuma ye hari ibase, wambaye iribara ridoze neza, imbere ye hicaye umuganga, na we wambaye imyenda isa, barimo barebana mu maso nk'abari kuganira.

Ku bitaro byubatse ahantu heza, hanze hari umubyeyi uhetse umwana, ufite igitambaro cy'umweru, ufashe umwana mu mugongo, ufite umusatsi wasokoje, ukenyeye n'igitenge, ku kigo nderabuzima cya Kigina.

Umugore uhetse umwana uri kumuhoreza umwana wambaye ingofero wari ufite imisatsi nkkeya kin'yeyagitenge uri imbere y'ikigo nderabuzima cya kigina akaba amarembo yacyo afunguye.

Inyubako iriho ibyapa bibiri; icyapa cya mbere cyanditseho ngo " AHO BAVURIRA AMASO OPHTHALMOLOGY CENTER ", icya kabiri cyanditseho ngo "GIHUNDWE HOSPITAL DIALYSIS CENTER".

Abayobozi bari mu nama mu muhango w'ihererekanyabubasha, bane hicaye imbere ku meza y'uruganiriro hariho amacupa y'amazi, abandi bicaye imbere harimo n'uri kubafata amashusho akoresheje igikoresho cya kamera, abandi bicaye bari gukurikira.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi mu cyumba aho bakirira abarwayi nk'ibitanda byinshi bitandukanye bitariho abarwayi hagati yabyo harimo ameza manini abinyuramo, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'iniforume, supanete zirazinze.

Kwa muganga mu cyumba harimo umurwayi wicaye mu gatebe k'abafite ubumuga n'undi muganga uri gufasha umurwayi imbere ye hari icupa ry'amazi n'ameza ateretseho, n'abandi barwayi iruhande rwabo bari kwitabwaho.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi hari akavido k'umweru n'agapuberi bashyiramo imyanda n'umwana uryamye ku gatanda, woroshe amashuka urimo selumu n'imashini ipima umwuka, uryamye agaramye yiyorosha ibintu bitukura.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, hari ibitanda byinshi bitandukanye, bimwe biriho abarwayi, ibindi bitariho abarwayi, harimo umumama uhagaze, wambaye umupira utukura, uteze igitambaro, hari n'undi murwayi wicaye, harimo n'umuforomo, bose bari ku bitanda.

Inyubako y'ubuvuzi kwa muganga mu cyumba harimo ibitanda n'intebe z'abarwayi zifite imisego harimo na kamera n'isaha na televiziyo ndetse n'imashini zongera umwuka.

Mu cyumba kwa muganga harimo umuganga wambaye ituburiya y'umweru, ufite masike mu mutwe, agapfukamunwa k'umweru, afashe kuri televiziyo arimo ayirebamo irimo ishusho y'umweru, imbere ye hari undi mu mama wambaye agapfukamunwa k'umweru, ufite imisatsi n'umupira w'umweru harimo n'ibindi bikoresho.

Kwa muganga mu cyumba ,aho batangira ubuvuzi bita ku barwayi, harimo intebe zitandukanye iz'imisego zifite amapine, agataburete gafite amapine ,harimo akabati harimo n'amakaro, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, wicaye mu cyumba kwa muganga ari gukoresha mudasobwa imwe y'umweru indi y'umukara, ari gusuzuma ibisubizo byavuye mu ibizamini bafashe abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi ifite ubusitani hanze indabyo ifite parikingi harimo imodoka, inyubako ifite ibirahure ifite n'inzugi, ikoze neza igeretse kabiri yanditseho ngo mediko seta isititiyuti.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba hari abantu batatu. Umuganga ufite umwana mu ntoki arimo amusuzuma, muganga wambaye itabuye y’umweru, agapfukawa k’umweru, amarinette n’umubyeyi ufashe uwo mwana mu ntoki. Umubyeyi wicaye ku ntebe arimo aseka yitegereza umwana we mu maso.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere gifite irangi ry'umweru cyubakishije amatafari ahiye, hejuru hari amapano akoresha imirasire y'izuba, iruhande rwayo hari indabyo, imbere yazo hari umugabo uhagaze.

Inyubako yo kwa muganga aho nibatangira ubuvuzi ku icyapa mu marembo cyanditseho ngo forotia diyagonositike senta mu ibara ry'ubururu n'irindi yanditse mu ibara ritukura avuga ngo werikamu tu fesho leginesitike seenta haba serivisi.

Icyumba kwa muganga, igitanda cy'umurwayi, kiriho amashuka y'umweru, umusego w'umweru, hariho ibikoresho bipima amaraso, n'ibipima umuriro, nibyo banyuzamo umuntu akamenya uko arwaye ndetse n'uko ahagaze.

Kuri regesi hanze muri parikingi hari imodoka ziparitse hari umusekerite uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara, n'umupira utukura arambuye akaboko ari kwereka imodoka n'abashoferi bazo uburyo baparika.

Mu bitaro kwa muganga, harimo abaforomo n'abaganga, n'utubati, icyumba kirimo amatara, kirimo na kamera, kirimo n'amakaro, kandi gifite amarangi agiye atandukanye.

Umuganga uri mu bitaro mu cyumba cy'abarwayi, amarido azinze, ibitanda bitandukanye biriho amashuka y'umweru, bifite amapine, inyubako irimo amakaro irimo na kamera.

Kwa muganga mu cyumba, aho basuzumira ibisubizo by'ibizamini byafashwe abarwayi, hari ibikoresho bitandukanye byiganjemo utuhure n'igipimisho bakoresha iyo bapima indwara zitaboneshwa ijisho zo mu maraso.

Ku kigo nderabuzima abantu bane hanze, umugore uhagaze wambaye agapira gatukura n'umugabo wicaye n'undi mugabo uhagaze ufite urupapuro mu ntoki n'undi mugore ufite igitabo mu ntoki wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ku nyubako handitse ngo ikigo nderabuzima cya gishweru.

Inyubako yubuvuzi, yubatse neza, ifite amarangi y'umweru, ifite amakaro, ifite ibirahure n'amadirishya manini, ifite kamera mu nzu mo mbere, ifite vanderateri, igikoresho gitanga umuyaga mu gihe cy'ubushyuhe.

Inyubako y'ubuvuzi ya ibatanu ahantu heza, ihagaze neza, isakaje amabati imbere yayo hari pano ikoresha imirasire yizuba ifite umurindankuba yanditseho ngo inzu yaba'ababyeyi mu cyongereza, materineti.

Mu bitaro kwa muganga, mu cyumba aho bavurira abarwayi, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ikarita y'akazi iri mu mufuka w'ishati, hari ibitanda bitandukanye, inyuma harimo abandi bantu babiri, bambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'agapfukamunwa n'undi uri gukura ibitabo mu kabati.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi harimo abarwayi babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara baryamye ku bitanda by'abarwayi, baryamye bareba hejuru, umwe arimo seromo ari kwitabwaho na muganga, muganga wambaye itabuye y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa, ufite n'imisatsi, undi muganga na we uhagaze ari kwita ku murwayi, amutera urushinge mu kaboko k'iburyo.

Kwa muganga mu cyumba hari ibikoresho bitandukanye, harimo intebe yegamirwa n'indi iteganirwa, zose ziteretse hasi ntamuntu uzicayeho, harimo na televiziyo bareberaho amashusho.

Inyubako y'ibitaro nini igeretse, ifite aho imodoka zihagarara, hanze hari imodoka nyinshi zitandukanye, inyubako ifite umurindankuba n'amatara hejuru, ifite ibirahure byinshi ku madirishya, ifite icyapa hanze cyanditseho ngo opitari rakuruha disi.

Mu bitaro kwa muganga mu cyumba hari umuganga wambaye itaburiye y'umweru wambaye ga z'umweru mu ntoki, imbere ye hari kizimyamwoto, inyuma ye hari akameza, ahagaze areba hanze mu idirishya, hirya ye hari ikintu cy'ubururu.

Kwa muganga umwana yicaye bari kumumurika mu kanwa, muganga wambaye itaburiya y'umweru, apfukamunwa k'ubururu, iruhande rwe hari abandi bantu batatu harimo abagore babiri bahagaze, undi yicaye ateruye umwana bari kuvura.

Umugabo ubyibushye utagaragara umutwe ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe na muganga wambaye itaburiye kandi wambaye ikarita y'akazi mu ijosi, arimo amufashe akaboko k'iburyo akandi gafashe umugongo.

Mu muhanda, abagabo bane bari gukora imyitozo ngororamubiri, birukanka, umwe ari inyuma, abandi babiri bari imbere, undi ari hagati, bambaye amakabutura y'umukara, n'inkweto zifunze, n'imipira ifite amabara atandukanye.

Umukobwa wambaye isengeri uraramye, ufite icupa ry'amazi, ufatishije akaboko k'iburyo, ufite imisatsi ku mutwe miremire usa nk'uri kureba hejuru kandi ahumirijemo gakeya.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo imakasi y'umweru ifite ikirindi cy’umukara, harimo igikoresho cya croix rouge bifashisha batanga ubutabazi bw'ibanze, harimo n'ibindi bikoresho bifite amabara atandukanye y'umweru n'umutuku.

Umukobwa uhagaze wifashe mu bitugu inyuma wambaye agasengeri, afite imisatsi ipfundikiye ku mutwe, wambaye isaha ku kaboko, urimo areba hirya ye ku ruhande rw'ibumoso.

Inkweto z'umukara ebyiri ziteretse hasi nini zifite imishumi ifunze neza ziriho ikirango cyanditseho ngo Bato kandi inyajwi ziri mu ibara ry'umukara.

Umukobwa uryamye areba hejuru, wambaye agakabutura k'umukara, urambuye akaguru k'iburyo, ukarambitse ku musego, uhinnye akaguru k'ibumoso, undi amushyiho ikintu ku ivi arimo amukandakanda amugabanyirize uburibwe.

Umugabo usutamye wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akaguru gahinnye kambaye inkweto, ak'iburyo karambuye ukuboko kw'iburyo nako gufashe ku kaguru k'iburyo na we asa nk'uwunamye igice cyo hejuru.

Umugabo uhagaze wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, umanitse amaboko, wambaye igikomo mu kaboko k'ibumoso, ari kureba hejuru y'amazi mu icupa, icupa ry'umweru, ari kuyimena ku mutwe.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu ufashe icupa n'akaboko k'iburyo, uri kurinywesha amazi araramye afite umusatsi mukeya, ufite n'agafarari mu ijosi kandi ahagaze.

Ikirango cy'umuryango wa kuruwa ruje, cyanditseho ngo fesite tereyiningi setete, kirimo ikimenyetso cy'umusaraba gishushanyije mu ibara ry'umutuku kandi kizengurutswe n'ibara ry'umweru.

Umugabo ubyibushye ufite amatuza manini, uri gukora imyitozo ngororamubiri, uteruye icyuma mu ntoki, afite icupa ry'amazi, inanasi, amagi, urusenda, karoti, juyisi yo kunywa.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye ipantaro n'agasengeri, inkweto zifunze za sipuresi ufashe ku kaguru urambuye akaboko, yagoroye akaguru kamwe gahagaze akandi gahinnye, uhagaze yemye ari kureba imbere.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, wambaye umupira w'umweru, wakomeretse ku kaboko, warimo avirirana, washyizeho igipfuba kugira ngo ahagarike ivirirana, ugifatishije akandi kaboko k'ibumoso, akaba yakomeretse ku kaboko k'iburyo.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye inkweto nk'ikabutura n'isengeri y'umweru na karoti nyuma afite n'amaronji akasemo kabiri n'izindi mbuto zifashishwa kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri ameze neza.

Umugabo wambaye agakabutura k'umukara akaboko k'ibumoso agafatishije hejuru mu rukenyerero rwambaye umupira w'umweru, akaboko k'iburyo agafatishije ku kirenge cy'akaguru cy'iburyo nako karambuye neza kandi yambaye n'inkweto.

Amaguru y'abantu bicaye bo batagaragara mu maso, hirya yabo hari abandi bambaye imyenda y'umweru n'abandi bicaye, bambaye iy'umuhondo, imbere yabo hari udukiti tw'abakorerabushake ba Kuruwa ruje dufite ibara ritukura, turiho ikimenyetso cy'umusaraba.

Imetero, amarongi akasemo ibice bibiri, ikirere cy'ubururu, icupa ry'amazi atuzuye cyane, ripfundikije umufuniko w'ubururu, rifite imetero irizingazingiyeho, kandi riteretse hagati mu maronji.

Umuganga wicaye wambaye ijire y'ubururu, umupira w'umutuku, iherena ku gutwi ufashe igikoresho mu kaboko k'iburyo, uri gusuzuma umwana wicaye asa nk'uwamuraramishije amumurika mu kanwa.

Umukobwa wicaye ari wenyine nta wundi bari kumwe ari gukora imyitozo ngororamubiri yasobekanyije amaguru, yambaye agabodi k'umukara hejuru yarambuye ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso yagufatishije ku bitugu by'ukundi kuboko kw'iburyo.

Mu kibuga cy'umupira aho abakinnyi bakorera imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo yatembye aryamye hasi yubitse inda, abakorerabushake ba croix rouge bambaye amajiri ariho ibirango by'umuryango bya croix rouge bari kumufasha.

Umuganga wambaye isaha ku kaboko, impeta, agapfukamunwa ufite ibisuko uri kuvura umurwayi wagize ikibazo ku kaboko k'iburyo. Ari kumuhabiriraho bande ufite ingofero mu mutwe y'ubururu ari kwitegereza ibyo ari gukorerwa n'umuvura.

Ku kibuga ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri, hari abasore n'inkumi n'abagabo bambaye imyenda igiye itandukanye y'amasiporo, bamwe bambaye amasengeri, abandi bambaye imipira, abandi bambaye amajezi, bose bunamye bari mu cyerekezo kimwe.

Ikirahure cy'umweru kirimo amazi acagase icupa ry'umweru riri gusuka amazi mu kirahure ridafite umuntu urifashe riri hejuru mu kirere.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara afite ni ifurari ku rutugu, afite n'imisatsi n'iherena ku gutwi, uhagaze, uraramye ufite icupa ry'umukara, afatishije akaboko k'iburyo ari kurinnywesha amazi.

Umukobwa ufite umwenda ku rutugu, umusatsi mukeya, uhagaze, ufatishije icupa akaboko k'iburyo, icupa rifite umunwa w'ubururu, hasi ari umweru, ari kurinywesha amazi, asa nk'uraramye.

Kwa muganga mu cyumba muganga uhagaze wambaye itaburiya y'umweru hari n'umurwayi ufite ikibazo wicaye mu ntebe muganga amufashe akaboko ari kumucunga mu gatebe k'abarwayi, umurwayi wambaye umupira w'ubururu ufashe ufunze ibimpfunsi.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye ipantaro y'umukara n'agasengengeri k'umukara, ufite icupa ry'amazi iruhande rwe, yicaye hasi wabohanyije amaguru, warambuye akaboko akandi gafashe hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru, ufite ibisuko ku mutwe uhagaze yirambuye, amaguru yarambuye n'amaboko ayerekeje hejuru mu kirere.

Umugabo uri kugaragara igice cyo hejuru wambaye umupira uciye amaboko, umupira ufite ibara ry'cyatsi kibisi, ufashe umupira wo gukina mu ntoki umupira wanditseho mirongo ine na rimwe nawo awufatishije akaboko kamwe k'ibumoso kandi k'iburyo kari hirya nta kintu gafashe.

Bimwe mu bikoresho ndetse n'imbuto n'ibiribwa byifashishwa mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amagi n'inkeri n'izindi mbuto nk'ibitunguru n'inyanya n'ubunyobwa.

Igikapu gitukura gifunze neza giteretse hasi n'ikindi gifunguye ibikoresho biri kugaragara nk'ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri n'ikindi kimanitse hejuru yabyo.

Umugore ufashe icupa, afatishije akaboko k'iburyo, ari kunywa amazi, icupa ry'umweru, rifitemo n'ibara ry'umukara, ahumirije, asa nk'uri kureba hejuru, afite umusatsi mukeya, kandi inyuma ye hari igihu cy'umweru.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite imisatsi ya derede ku mutwe, wambaye ibikoma ku kaboko k'ibumoso, wambaye inkweto zifunze, yambaye agapira k'umukara, wirambuye wateye akaguru inyuma n'akandi mbere.

Umugabo wicaye ufashe mu kaguru, ufatishijeho akaboko k'iburyo, wambaye ikabutura, wambaye umupira, isengerei y'umukara, isaha ku kaboko k'ibumoso karambuye, akaguru ke hariho ibara ritukura rijya kumera nka tatuwaje.

umukobwa wicaye wahinnye akaguru k'ibumoso wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri hejuru akaguru k'iburyo yakarambuye, yambaye inkweto zifunze akaboko k'ibumoso akarambitse ku kaguru, akaboko k'iburyo yakarambuye yagafatishije mu nkweto.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, uri gukora imyitozo ngororamubiri, wicaye hasi, hari indabyo, umugabo wirambuye, amaboko ari ku kaguru k'iburyo, wambaye agapira k'umuhondo, gafite n'irindi bara, n'amagambo akanditseho.

Kwa muganga aho bafashiriza abarwayi hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, umurwayi wakomeretse mu mavi bashyizeho igipfuko gifite ibara ritukura n'utundi dupfuko dufite ibara ry'umweru, bari kugabanyiriza umwana uburibwe mu mavi.

Umusore wicaye, wambaye inkweto ukuguru kumwe, ukundi kutambaye urukweto, bari kumuhambiraho ubuvuzi ku kaguru, wambaye igikomo ku kaboko k'iburyo, wambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umuganga wambaye umwenda w'ubururu ari kumufasha.

Kwa muganga ahafatwa nkaho imyitozo ngororamubiri ari urukingo, hari umukobwa wicaye mu ntebe uri gukora imyitozo n'umuganga uhagaze, uri kwita kuri uyu mukobwa, umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umukara.

Umugabo wicaye ufite terefone mu ntoki, wambaye isaha ku kaboko, wambaye na ekuteri, uri kunywa amazi akoresheje icupa arifatishije akaboko k'iburyo, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu kadafite amaboko maremare n'inkweto zifunze.

Ameza ariho ibiribwa bitandukanye, icupa ririmwo amazi, isahani iriho amagi ane, umukati, isahani iriho imineke, isahani iriho indimu, iriho n'ibitunguru n'iy'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutunganya ibiryo byo mu gikoni, iriho n'ibirikira.

Umukobwa wambaye agasengeri, uhagaze, ufite ibisuko ku mutwe, ufashe akaboko k'ibumoso yagashyizwe inyuma, ak'iburyo yagafatishije hejuru ku nkokora aho ukuboko guhinira.

Mu muhanda umusore wambaye umupira w'umukara ikabutura y'umukara n'inkweto zifunze apfukamishije akaguru k'iburyo ak'ibumoso gahagaze gahinnye afashe mu ivi hari kumurya afatishije ibiganza byombi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, ufite imisatsi isokoje, unanutse, wambaye agapantaro kamufashe, wambaye agasengeri kagarukira hejuru y'umukondo, washyize akaboko k'iburyo ku mugongo, akaboko k'ibumoso yagashyize ku kaguru, yunamye, arimo arirambura.

Umukobwa wicaye mu byatsi, ahantu heza. Wambaye agakabutura karimo imirongo imanuka y'umweru, wunamye ufite n'agasengeri n'imisatsi ku umutwe miremire. Urambuye amaguru yombi n'amaboko yombi afashe ku nkweto.

Umugabo ubyibushye ufite imbaraga, wambaye agapira gaciye amaboko kaga tisheti ufite ekuteri mugutwi, ufite icupa arifatishije akaboko k' ibumoso, ari kwinywesha amazi, afite ubwanwa bukeya bwogoshe kandi buconze neza.

Akaboko k'iburyo gafashe icupa ry'amazi karishyize hejuru mu kirere, ry'umweru rifite umufuniko w'ubururu kandi cyuzuye amazi atabuzeho umutoni.

Imbangukiragutabara iri mu muhanda igenda nta y'indi modoka iri hafi aho, iruhande rwayo hari ikorosi igiheye guhita ikata, hafi yayo hashinze ifoto hiho amasinga atwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu urwaye uryamye areba hejuru bari kumushyira kuri burankare n'abandi bunamye, nundi uri kumuhambira wambaye ishati y'ubururu kandi bahagaze inyuma ye undi wambaye umupira w'umweru bose bari kumurebera.

umugabo wicaye wambaye ikoboyi y'ubururu, wambaye agapira k'umweru, umupira ufite ikora, imbere wambaye agatisheti k'umukara, wakomeretse ku kaboko k'iburyo, washyizeho igitambaro kugira ngo ahahagarike ivirirana, agafatishaho akaboko k'ibumoso kugira ngo igipfuko yashyizeho kitavaho.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri harimo ga, harimo n'agakiti, harimo n'ibinini bitandukanye, n'indi miti iri mu ducupa tw'umukara dufite imifuniko y'umukara.

Insimburangingo enye ziri hamwe kandi zifite amabara atandukanye, zikoze mu buryo butandukanye, zitenze ku murongo zimwe zambaye inkweto izindi zidafite inkweto.

Umugabo uri kunywa amazi, akoresheje icupa, arifatishije akaboko k'iburyo, yambaye umupira w'umukara, ugaragara igice cyo hejuru gusa, arimo ari kunywa arangaye kandi ubyibushye, ufite ibitugu, ufite n'imbaraga.

Igikombe cy'umweru cy'ikirahure giteretse, kirimo amazi atuzuye neza n'umubirikira barigusukishamo, ifashwe n'umuntu utagaragara neza, ugaragara akaboko gusa.

Umusore wambaye umupira w'umweru uciye amaboko udafite n’ ikora, wambaye n’ ekuteri ufite agasatsi gakeya wambaye n’ isaha ku kaboko k' iburyo, uraramye uri kunywesha icupa amazi kandi ubona atuje una byibushyemo.

Umusore wambaye inkweto zifunze, ikabutura y'umukara, isengeri y'umukara, ahagaze ku kaguru kamwe akandi yagateye hejuru ku rugo, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye akaboko ndetse na we asa nk'uwunamye mo gakeya.

Amoko y'imbuto zitandukanye n'ibiribwa byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo; avoka, ubunyobwa, tungurusumu, inyanya n'ikinyomoro n'igihaza n'inkweto zifunze nk'uko biri kugaragara.

Umukobwa n'umugabo bari kugaragara ibihimba, bambaye amakabutura y'umukara, umukobwa wambaye isengeri y'ubururu, umugabo itari iy'ubururu n'amacupa mu ntoki, bari gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwo kwiruka, bombi bari ku kumurongo ,ariko uw'igitsina gore bisa nkaho ari inyuma.

Umukobwa w'inkumi hasi wambaye umukara, hejuru wambaye agasengeri nako k'umukara, ufite ikintu ku kaboko, akaboko k'ibumoso ufite icupa n'amaherena ku gutwi uri kunywa amazi asa nk'uraramye

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, umupira uciye amaboko ufite ikora wambaye agatisheti k'umukara, ufite ubwoya ku maboko, wakomeretse ku kaboko k'iburyo ashyizeho igipfuku agifatishije akaboko k'ibumoso.

Kwa muganga mubi bitaro mucyumba aho bavurira abagabo batatu bahagaze nundi mugore abagabo babiri numugore umwe bambaye amataburiya y'umweru umugore afite imisatsi isutse, undi mugabo yambaye ikote bose bari kureba kuri kamera abandi barwayi bari ku bitanda bamwe bararyamye abandi baricaye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye supuresi z'umweru, ipantaro y’ umukara, n' agasengeri k'umukara, kagarukira hejuru y'umukonndo, urambuye amaboko afashe ku kaguru k' iburyo wambaye kuteri ufite n' imisatsi.

Umugore ufashe umwana wambaye umupira w'umweru hejuru ye hahagaze umubyeyi wambaye igitambaro cy'umweru kandi na we wambaye impeta amaboko.

Umugabo wambaye isenge y'umweru ufashe ku mutwe wambaye isaha ubyibushye uri kureba mu kirere, wari uri muri siporo ariko uhagaze afite umusatsi mukeya w'umukara cyane.

Mu kibuga aho bakorera imyitozo ngororamubiri harimowo abana benshi bari mumyitozo benshi bari murongo wambaye imyenda itandukanye hamwe bafite imisatsi abandi bogoshe kandi bambaye ingofero bamwe biteguye gusimbuka harimo numutoza wabo bambaye umupira w'umweru.

Kwa muganga, mu ntebe, mu cyumba, harimo vandarateri, muganga wambaye imyenda y'ubururu, wambaye ga z'umweru, ufite umurwayi mu ntebe, intebe bakoreramo imyitozo ngororamubiri, umurwayi wambaye umupira w'umweru.

Umusore ufite imbaraga uhagaze, wambaye isengeri afite ubwanwa bukeya ari kunywa amazi akoresheje icupa, arifatishije akaboko k'iburyo asa nk'uraramye ho gakeya areba hejuru.

Umugabo ukiri mutoya ufite imbaraga ufite ubwanwa bukeya ufite umusatsi uri ahant mu kizubazuba wambaye isengeri uraramye uri gusukisha icupa amazi mu kanwa ke usinziriye anahumirijemo gakeya kandi uhagaze ari kureba hejuru mu kirere.

Igikombe cy'umweru k'ikirahure kiri kujyamo amazi, kitari cyuzura n'ibiririka bari gusukishamo ifashwe n'akaboko na yo y'umweru ufite umunwa wagutse.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara, wambaye niinsengeri y'umukara, upfukamishije akaguru kamwe, akandi gahagaze, uri mu myitozo ngororamubiri, uri gukorera imyitozo mu cyumba cye, ahantu hateguye neza, kandi nyuma ye y'aho ari gukorera imyitozo, hakaba hari igikoresho bacomekamo telefone kugira ngo igemo umuriro.

Umugabo uhagaze ubyibushye ufite amatuza manini, wambaye agapira k'umweru, wambaye na ekuteri, afite icupa ry'umweru arifatishije akaboko k'iburyo ari kurinywesha amazi.

Abagabo babiri bari kumwe, umwe wambaye isaha yicaye n'undi ugaramye wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara turimo imirongo ku ruhande umurongo w'umweru n'uw'ubururu, uwicaye yashyizwe ukuguru n'ugaramye hejuru ku bitugu ugaramye yambaye amasogisi y'umweru.

Igikombe cy'ikirahure cy'umweru giteretse ku meza, kirimo kijyamo amazi ari gusukwa avuye ku kajage gafashwe n'ikiganza cy'umuntu utari kugaragara.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi hagaze umuntu wambaye ga y'umweru, inkweto z'umweru, harimo ibitanda bitariho abarwayi bifite amapine, harimo utubati n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Mu kibuga aho bakorera imyitozo ngororamubiri, hari umugabo uhagaze, utagaragara igice cyo hejuru, ufite umupira mu ntoki kandi imbere ye hari undi na we ufite utugare tw'abafite ubumuga arimo atugenderamo.

Mu cyumba kwa muganga umurwayi uryamye urambuye akaguru akandi kamanitse ku byuma kavunitse, muganga wambaye itabuye y'umweru arimo amuvura abandi bahagaze iruhande rwe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze butangwa n'abakorerabushake ba kuruwaruje, biba mu kabogisi kitwa kiti, amagambo yanditse avuga ati :fesiti eyidi kiti ,isizo, ga z'umweru, itoroshi ,urushinge n'ibindi bitandukanye.

Umugore wambaye iribaya ufashe hasi n'amaboko ye yombi ku buriri hicaye umwana we wambaye agakanzu k'umweru n'inkweto ari guseka.

Umukobwa wicaye ku gitanda wambaye inkweto zifunze mu kaguru kamwe, akandi gafitwe n'undi musore wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara, ari kumufasha kumukorera ubugororangingo kugira ngo akaguru ke kamere neza.

Umukobwa wicaye ku buriri wambaye ipantaro y'umukara isengeri y'umukara arambuye amaboko ku rukuta n'ibisuko yihengetse ijosi arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Imiti itandukanye urushinge ruri kumwe n'imiti n'amagambo yanditse inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru, asomwa ngo the future for performance enhencing drugs in sports.

Mu kibuga cy'umupira kuri tapi yicyatsi kibisi irimo imirongo y'umweru na baro mu kibuga irimo amabara y'umweru na y'umukara, umukinnyi waguye mu kibuga wagize ikibazo mu kaguru wambaye ikabutura y'umukara umupira w'ubururu amasogisi y'umukara muganga ari kumwitaho ari kureba ikibazo yagize mu mavi.

Ubavuzi bwa kinyarwanda, buzwi nk'ubuvuzi gakondo, icupa rishushanyijeho akanyoni, ripfundikije umufuniko w'umukara uriho n'ibara ry'umweru, ryandikishijeho amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara.

Avoka imwe isatuye, indi idasatuye ziri ku giti cyanditse hongo avokado fase endi bodi sopo foreva bikaba biri uibabi cy'icyatsi kibisi n'avoka zikaba zidahiye.

Amacupa ageze kuri atanu, atenze hamwe ku murongo ariko hatarimo ikintu, afite ibishushanyo biyariho ku bipapuro biyometseho.

Abagabo bari kumwe ahantu hamwe, mu butaka bahinzemo igihingwa k'igikakarubamba gikuze neza gihagaze, bafite bamwe amakaye mu ntoki bambaye imipira bombi y'icyatsi kibisi abandi bambaye ikote barimo basura ibyo bihingwa.

Amacupa atatu y'umweru ateretse hamwe arimo imiti icupa rimwe ripfundikishije umufuniko w'umweru n'irindi ripfundikije umweru n'irindi nuko, yanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza amwe yanditse mu mara atukura irindi mu ibara ry'ubururu.

Mu gikoni hari ipanu, ikirushi n'amavuta n'ibindi byifashishwa mu gutegura amafunguro n'imboga zitandukanye n'inyama, byose birambitse ku meza.

Ubuvuzi bwa gakondo, bukoreshwa hifashishijwe imiti ya kinyarwanda, bifashishije ibyatsi n'ibindi bimera bigiye bitandukanye kugira ngo bavure indwara zo mu mubiri.

Icupa ry'umweru, ririho amagambo atandukanye, amwe yanditse mu ibara ry'umukara, rimfudikishije umufuniko w'umweru, ririho igishushanyo cy'umweru, cyanditseho ngo:" Foreva hendi sanitayiza."

Akavido gateretse kapfundikiye, karimo umuti ukoze mu gihingwa cy'igikakarubamba, wifashishwa mu kuvura indwara ariko cyane cyane mu buryo bwa gakondo.

Imiti yo mu bwoko bwa kinyarwanda yakoreshwaga kera irambitse igerekanye iri mu dushashi ibinini byinshi bitandukanye harimo n'icyapa cyanditseho makumyabiri na kane akarongo kaberamye karindwi cyanditseho ngo niyutara setirikozi.

Inkono iteretse, ibicuma bitandukanye bihagaze, urushyaba ruri kumwe n'umufuniko warwo intebe iteretse, inkoko, amacupa n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Akavudo k'umweru gafite umufuniko utukura karimo umuti wakoreshwaga mbere mu buvuzi bwa kinyarwanda, ukozwe mu gihingwa kitwa igikakarubamba kakaba kandiditsweho ngo foreva aruberi nekitra.

Amacupa abiri y'umuhondo ahagaze ateretse, ipfundikije imifuniko y'umukara kandi ashushanyijeho igihingwa cy'igikakarubamba, gikorwamo imiti itandukanye mu kuvura indwara, cyanditseho ngo conveniente usage.

Umuti wa kinyarwanda uri mu icupa ry'umweru rifite amabara y'umukara upfundikije umufuniko w'umweru ryanditseho ngo vitorize, munsi y'aho hari ibara ry'umukara ririmwo amagambo yanditse inyuguti mu ibara ry'umweru.

Igishushanyo kiriho akanyoni kari kuguruka munsi yacyo kanditseho foreva, hasi ku kaboko k'iburyo handitse ngo memba siporiyiti hejuru y'aho handitse ngo alowe sayanse kanso.

Amoko y'imiti atandukanye bifashishwa mu kuvura, hari icupa n'amagambo yanditseho, agira uruhare runini ku muryango, akavura kurangiza vuba no gucika intege, inyuma yaho hari igishushanyo cy'abantu.

Imbuto zitandukanye ziri hamwe zirunze nini, izindi ntoya zitukuye n'izidatukuye kandi arimo urwitwa pomme runini cyane, rurimo hagati rukasemo kabiri, utundi duto kuruhande dukasemo kabiri.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti yo mu buvuzi gakondo hariho ikiganza gifashe ikibabi mu ntoki n'ibindi bibabi byinshi biri mu kaboko kambaye ikoti ry'umukara.

Amoko atandukanye y'imiti ikorwa mu gihingwa cy'ikakarubamba gishushanyije ku macupa atandukanye agaragara, kandi amwe ari mu ibara ry'umweru irindi harimo ibara ry'umuhondo.

Amacupa atandukanye arimo imiti yo mu buvuzi bwa gakondo bwa kinyarwanda, amwe y'umweru andi y'umuhondo akoze mu kimera cy'igikakarubamba, nacyo kikaba gishushanyijeho.

Amacupa atandukanye ashushanyije igishushanyo kandi afite amabara anyuranye, ay'umweru agiye yanditseho amagambo atandukanye, akoze mu miti y'igikakarubamba kifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Ahantu bategurira indabyo ari ibivaze birimo amabuye, birimo ubutaka, birimo n'umucanga, birimo n'indabyo zameze zidakuze cyane ariko ziri mu kigero zigeze igihe cyo kuba zagemurwa.

Amacupa menshi agiye atandukanye, ateretse ariko hagati harimo akandi kantu k'igikarito, byose birimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Udukarito tw'amabara atandukanye dutatu dushushanyijeho utwambi twerekana amerekezo turimo' imiti ya kinyarwanda yakoreshwaga mu buvuzi gakondo twanditseho ngo na tro seudicas.

Amacupa arimo imiti yifashishwa mu buvuzi yakoreshwaga kera mu bijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo amacupa y'umweru ateretse ku tu meza afite imifuniko y'umweru afite amagambo agiye yanyanditseho inyuguti ziri mu mabara atandukanye.

Ubuvuzi bwa gakondo bwo mu miti ya Kinyarwanda buri mu macupa atandatu agiye atandukanye, afite amabara atandukanye, rimwe ry'umukara irindi rifite umufuniko utukura ariko icupa ry'ubururu n'andi afite amabara y'umweru hagiye arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibiganza bibiri bigerekanye by'umukobwa, umukobwa ufashe icupa mu ntoki, icupa ry'umukara ryanditseho lavender, rifundikiye n'umufuniko w'umukara kandi rifite andi magambo ku ruhande yanditseho mu ibara ry'umweru, agiye azengurutse icupa.

Amacupa atandukanye ageze kuri atatu ateretse hamwe yegeranye, afite imifuniko y'umweru kandi agiye yanditseho amagambo atandukanye, akoze mu gihingwa cy'igikakarubamba.

Igihingwa kimwe mu bwoko bw'ibimera byifashishwaga mu miti ya Kinyarwanda bakoreshaga mu ubuvuzi gakondo, mbere y'uko iterambere rigera aho rigeze ubu hasigaye hakoreshwa ibinini byo kwa muganga.

Amacupa atandukanye arimo imiti ateretse ahantu hamwe, igishushanyo kandi yashushanyije ku buryo yegeranye, hino yaho hari ijambo ryanditse ngo megani, agiye afite n'imifuniko.

Umugabo wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza y'umweru wambaye yitaburiya y'umweru afite imiti mu ntoki imwe mu kaboko k'ibumoso, indi mu kuboko kw'iburyo mu kaboko k'ibumoso irimwo ibinini bitatu indi yo mu kuboko kw'iburyo ntabwo ibinini bigaragara.

Amoko atandukanye y'indabo, indabo zifite amabara atandukanye harimo iz'umuhondo, iz'itukura, iz'icyatsi kibisi, iz'ubururu zose ziri hamwe mudukorone dutandatu twose tunganya impande.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite uturongo tw'umukara ku maboko no ku ijosi, ufite uruhara ari aho ahinga ibimera bye, arimo abyitaho abibagarira.

Televiziyo yitwa Baho neza, igitunguru cya kinyarwanda, igitunguru gikasemo kabiri, gisate kimwe kireba hirya ikindi kireba hino, indimu ikasemo kabiri, ibisate bibiri bireba ahantu hamwe n'icupa ry'amavuta riteretse kandi ripfundikiye.